Umugabo uri mu murima, uhetse ipombo mu mugongo, ipombo y'ubururu ifite umupfundikizo w'umuhondo, wambaye isarubeti, uri gufuhira imyaka.

Etajeri irimo amacupa y'imiti dukoresha mu buhinzi, harimo imiti ya majimaji ariyo dufuhira, na za koda dufuhira, kugira ngo imyaka twahinze ibyibuhe itange n'umusaruro, harimo n'iyo dutera udusimba kugira ngo tubone umusaruro.

Amacupa abiri ariho ibyapa hari ibyapa by'imbuto ziterwa muri aya macupa arimo muri aya macupa, ayo macupa ibyo byapa bihari izo mbuto zihari ni karoti, ibishyimbo by'imiteja.

Ikiganza gifashe icupa, gifashe ku icupa rya rokete. Rokete ni umuti dutera mu bigori ukica nkongwa ubundi tugasarura ibigori bimeze neza ,rokete iterwa mu myaka yacu kugira ngo tubone ibigori byiza rwose, ikica agakoko kaba kitwa nkongwa.

Icupa rinini cyane rishushanyijeho ikigori, iryo cupa ririmo umuti twifashisha turi gutera ibigori, kugira ngo byere tubone umusaruro. Icupa rifite ibara ry'umweru n'icyatsi, ryanditseho inyuguti z'umukara.

Umugabo uri kugenda mu murima w'umuceri, wambaye ingofero songambere, n'umupira w'umukara, n'ipataro y'umukara, ufashe igiti mu ntoki.

Umugabo uri gutera umuti mu mbuto, wambaye wambaye imyenda yabugenewe y'ubwirinzi, y'umweru. Ahetse ipombo y'icyatsi, ifite n'imipfundikizo y'ubururu.

Igishashi kirimo umuti ukoreshwa kuri ibi bihingwa. Hariho ibihingwa pwavuro, ibihaza, imineke, n'inyanya.

Umugabo uhetse ipombo, wambaye ingofero ya songambere, ahetse ipombo y'umuhondo ari gutere umuti mu myaka, yambaye na bote. Ari gufuhira umuti mu myaka rero, kugira ngo izere neza itazahura n'ubusimba.

Icupa risa n'icyatsi harimo n'ibara ry'umweru ryanditse icyapa. Icupa ririmo umuti, umuti tuwutera mu myaka, imyaka igakura neza kuko umuti uri muri iri cupa wica ubukoko, kugira ngo dusarure imyaka yacu imeze neza nta kibazo ifite.

Umugabo utera umuti mu bigori. Umugabo yambaye imyenda yabugenewe. Yambaye isarubeti y'igitaka, yambaye ahetse n'ipombo y'umutuku ifite n'umupfundikizo w'umukara, yambaye n'agapfukamunwa ari gutera umuti mu bigori, hirya y'ibigori hariho ibiti birebire.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe y'umukara na bote, yambaye n'akagofero ka songa mbere, ahetse ipombo isa n'umuhondo gucuye, ifite umufuniko w'icyatsi. Ari gutera umuti mu myaka ye kugira ngo azasarure, imyaka imeze neza yarishe ubukoko.

Icupa rinini cyane ririmo umuti, umuti dutera mu myaka, iyo imyaka yagize ikibazo tuyitera umuti, kugira ngo dusarure, tuzabone imyaka dusarura myinshi. Iyo tudateye umuti mu bihingwa, ntabwo dusarura.

Inyanya. Umugabo ufite ga z'umuhondo , arimo gufuhira inyanya. Inyanya,n' igihingwa cyiza . Arimo kuzitera umuti . Inyanya iyo zeze, tuzijyana ku isoko, tukazigurisha, tukabona amafaranga, tugakemura ibibazo by'imiryango . Izindi tukazirya , tukagira ubuzima bwiza .

Amacupa abiri , ayo macupa arimo umuti dutera kuri iki cyapa gihari, iyi foto kuri iki cyapa gihari hariho ifoto y'inyanya, n'iy'imiteja, n'iya karoti, iyo duteyemo turasarura neza, imyaka yacu ikica ubukoko.

Umugabo uri gutera umuti mu mbuto, umugabo yambaye imyenda y'ubwirinzi, ikabutura y'umuhondo, umupira w'umweru n'agapfukawa k'ubururu, ahetse icyuma ari gutera umuti.

Abantu bari kugaragaza amaguru n'amaboko bari gutera umuti ku rugemwe rw'ishu. Hirya yaho hari urubaho ruri rukugaragara nk'urwintebe ya sheze, hakabaho hari kubegukamo nibabi ry'ishu.

Amacupa abiri ashushanyijeho ibyapa birimo ibyapa bigaragaza imiti irimo dutera turi guhinga mu bihingwa kugira ngo imyaka tuyitere umuti kugira ngo tuzasarure imyaka ifite ubuziranenge bwiza. Ni amacupa abiri.

Umugabo uri gufuhira, uhetse ipombo y'umuhondo. Ifite n'ibara ry'umukara kuri moteri, yambaye n'imyenda yabugenewe, igipira cy'umutuku, yambaye n'ingofero, yambaye n'ipataro y'umukara, agenda ari gufuhira mu myaka kugirango azasarure imyaka myiza.

Amacupa abiri, icupa ririmo ibara ry'umweru, ry'umweru n'icyatsi n'umuhondo, hariho ibyapa birimo bigaragaza umuti urimo icyo imyaka uvura iyi miti iri mwo tuyitera, imiti tuyitera mu myaka, imyaka yacu tukayisarura imeze neza ubukoko bwarapfuye.

Ifi iri ku gasiniya, iruhande rw'ako gasiniya hariho ibirungo, indimu, isosi y'inyanya, iteretse iruhande rw'agasiniya.

Amafi, amafi ni ibiribwa turya, akaba amafi aba mu nyanja no mu migezi. Iyo bayarobye turayateka, ayandi tukayagurisha.

Amafi atunganyije ari mu gatete, amafi n'ikiribwa cyiza turakirya tukagira ubuzima bwiza, amafi afite intungamubiri nyinshi cyane, wayagaburira n'abana bakagira intungamubiri, ugasanga bamerewe neza.

Ibiryo bihiye biri mu gasorori keza gasa n'umweru, ku rugara rwako hasa n'umukara, harimo ibiryo birimo n'ibirungo, harimo na za te, na za sereri bakatiyeho hejuru.

Indagara, n'amahera rwose bisutse ku mabase. Indagara ziri ukwazo, n'amahera ari ukwayo. Amahera turayarya, n'indagara tukazirya, iyo twazivanze n'ibiryo. Abana barabirya, n'abantu bakuru barazirya, nabwo bikongera vitamini.

Abantu bari mu kivu, imbere harimo umusare wambaye imyenda igiye gusa n'umukara inyuma hariyo umusare wambaye imyenda y'ubururu n'ipantaro y'umukara, hagati harimo abagenzi babiri bari kugashya bari kwambuka, bafashe inyanja bari kuyambuka.

Ibiryo biri ku gasiniya, harimo ibiryo babirunze birimo ibirungo byinshi na za karoti, harimo na za marakuja, harimo n'indimu yose bira...

Amafi ni ubworozi bwiza bwibera mu mu kivu no mu byuzi, amafi iyo tuyarobye turayarya tukagira ubuzima bwiza n'abana bakagira ubuzima bwiza, ifi ni ikinyabuzima cyiza.

Ifi ebyiri zirambitse ku gasiniya hariho n'ibirungo, hakase hariho inyanya n'indimu byose birahari ni ibirungo, imbere y'izo fi hariho, kuri ako gasiniya hariho na puwavuro.

Amafi meza cyane bakuye muri firigo bayarambitse aho ngaho, ariko amafi ni itungo ryibera mu mazi. Turayaroba twayarya tugasanga dufite ubuzima bwiza, twayagaburira n'umuryango wacu w'abana, ugasanga bafite ubuzima bwiza, ayandi tukayagurisha n'abandi bakayarya bakagira ubuzima bwiza.

Indege ya kajugujugu iri mu kirere ariko igiye kugera ku kibuga, imbere y'indege aho igiye kugwa, ku kibuga hariho n'inzu yubakishije amabati y'ubururu, iteyeho amakaro.

Amafi ari muri supaneti. Amafi ni meza cyane, amafi turayarya. Harimo n'inyanya n'ibindi birungo , amafi turayarya, amafi ubundi aba mu mazi. Iyo bayarobye turayarya tukayaha n'abana, bakagira intungamubiri akabatunga tukaba neza.

Ifi irambitse ku gasiniriya, ifi ni ikiribwa cyiza cyane, iyo tuyitetse tuyigaburira abana, ifi n'igisimba kiba mu mazi, ariko iyo bayigaburiye abana, bayitetse bakayigaburira abana, abana bamererwa neza. N'abantu bakuru iyo bayiriye bagira ubuzima bwiza, bikongera vitamini mu mubiri.

Amafi abiri ari ku gasiniya imbere yaho hariho ibirungo. Amafi araribwa, amafi agira intungamubiri, iyo tuyariye aduha intungamubiri nziza, kandi amafi iyo abana bayariye bagira ubuzima bwiza.

Ibiryo biri ku isiniya. ibiryo harimo n'ibintu batetse, basizemo ibirungo asante, bisa n'umutuku harimo na za te. Ibiryo harimo n'ifoke.

Ibiribwa byiza cyane biri ku gasiniya, bakase n'indimu, biri ku ruhande rw'ibyo biribwa biri ku gasiniya.

Inyubako iri ku Kivu. Amazu menshi cyane agiye yubatse hakurya no hakuno. Asakaje amategura, afite inkingi z'umuhondo n'umweru.

Amabase ane ateretse yuzuye insambaza, insambaza ni ikiribwa turya gifite intungamubiri, ku muntu wese waziriye agira ubuzima bwiza.

Amafi abiri, iruhande rw'ayo mafi hariho inyanya zikase n'izidakase. Amafi iyo bayatetse bashyiramo inyanya kugira ngo bibyare isosi nziza cyane, tuyarye agire aduhe ubuzima bwiza.

Amafi, amafi n'ibiribwa byiza , amafi aba mu nyanja , ariko iyo bayarobye amafi turayarya tukagira ubuzima bwiza , twayagaburira n'abana bakagira ubuzima bwiza, kubera ko amafi afite intungamubiri nyinshi mu mubiri.

Amafi ari mu kiyaga ari koga. Amafi ni itungo riba mu mazi iyo barirobye, turarirya tukagira ubuzima. Amafi agira ubuzima bwiza akagira n'igikuriro cyiza.

Isambaza, isambaza ziba mu kivu. Isambaza n'ikiribwa cyiza, isambaza zigira vitamini zifite intungamubiri ikaze cyane. Isambaza iyo waziriye ugira ubuzima bwiza, n'abana baziriye bagira ubuzima bwiza bakagira n'igikuriro.

Amafi menshi cyane, amafi ni amatungo yibera mu mazi, amafi turayarya tukagira ubuzima bwiza, abana bakagira ubuzima bwiza, amafi iyo tuyarobye mu Nyanja, mu Kivu turanayagurisha bakaduha amafaranga agakemura ibibazo by'imiryango, tugatanga na mituweli.

Umurima w'urusenda, urusenda nta bwo rurera. urusenda ruba rwiza, urusenda turarugurisha bakarujyana hanze rukatuzanira amafaranga, amadovize.

Umurima uteyemo ibinyomoro. Ibinyomoro ni igihingwa cyiza cyane. Ibinyomoro iyo byeze tubigaburira abana, kugira ngo abari mu mutuku bagarure amaraso. Ibinyomoro n'abantu bakuru barabirya. Hirya y'ibyo binyomoro hateyeho n'urutoki.

Umurima urimo inzuzi. Hirya yaho hariho ibiti birebire cyane. Ni ukuvuga inzuzi ni igihingwa kiza, keraho ibihaza, ibihaza nabyo tukabirya, tukabigaburira n'abana, ibindi tukabijyana ku isoko tukabigurisha, n'abatabyejeje nabo bakabibonaho.

Umurima urimo ibiti by'ibobere ni umurima munini . Hakurya yaho hariho ishyamba rinini ririmo ibiti binini. Ibiti bitugirira akamaro kuko duhumeka umwuka mwiza, bigakurura n'imvura ntibure.

Umurima basaruyemo ibigori. Hirya y'uwo murima hariho uruti runini cyane, hirya hariho ibiti naho' biringaniye bitoya, hirya hariho umusozi.

Umurima w'urutoki udahingiye. Mu rutoki harimo igitoki giteyemo inkingi ebyiri.

Umurima bari gusaruramo ibigori. Mu muririma harimo abagabo babiri, uwo murima hirya ya ho harimo, hariho ishyamba. Ibigori biba byiza iyo tubirisaruye, dutekamo igikoma, tugatekamo n'inpungure zikadutunga.

Umurima w'ubuhinge, hirya y'uwo murima hariho ishyamba rinini ririmo ibiti birebire cyane. Ibiti bikurura umwuka tukabona tugahumeka ogusijeni.

Umurima munini cyane, hirya y'umurima hariho amazu abiri. Inzu zubakishijwe ibiti ziteye n'imbariro. Hirya y'aho hariho urutoki rwinshi. Hirya hariho imisozi.

Ishyamba rinini cyane, imbere y'ishyamba hariho umurima basaruyemo ibigori.

Ingemwe y'ikizibaziba. Ikizibaziba ni igiti cyiza, iyo gikuze turagisatura kigatanga imbaho, imbaho zikavamo ibikorwa byinshi, utubati, ameza tukagikingisha. Ikizibaziba ni igiti cyiza, gikunda kumera ahantu hari amazi menshi.

Umurima wibidodoki biranze ku biti by'amagereveriya, hirya y'umurima w'ibidodoki, hariho insina ihingutse amakoma hejuru.

Umurima usaruwemo imyaka nk'igikenyeri, hirya y'uwo murima hariho ibiti birebire, hirya hariho n'urushyamba rw'igihuru.

Umurima mwiza urimo amateke. Amateke n igihingwa cyiza iyo tugisaruye. Amateke tuyajyana ku isoko abandi tukayarya. Abandi tugaburira n' abana andi tukayajyana kuyagurisha, akaduha amafaranga tugatanga mituweri tugakemura ibibazo by' imiryango yacu.

Igiti cy'avoka, avoka harimo avoka zitarera avoka ni igiti cyiza, iyo cyeze tujyana avoka ku isoko tukazigurisha, izindi tukazirya, tukabona n'amafaranga kugira ngo twifashishe dukemure ikibazo cy'umuryango.

Umurima uhinzemo beterave. Beterave ni imbuto bakoresha bamaze kurya, bakabetamo, bakayikamura, bamara kuyikamura bagakuramo ji, bakanywa bamaze kurya.

Umurima w'ibishyimbo bishingiriye, bishingirije ibiti birebire cyane. Igishyimbo ni igihingwa cyiza, turagihinga tukagisarura, tukabona ibyokurya, ibindi tukabigurisha, ubuzima bukagenda neza, umuryango tugatanga na mitiweri.

Umurima munini cyane urimo igiti kinini, hirya yaho hariho insina. Insina nayo ni igihingwa kiza, iyo cyeze kizaho igitoki tukakirya, ubundi tukagurisha, tukajyana ku isoko bakaduha amafaranga, tugakemuza ibibazo by'umuryango.

Umurima urimo karoti. Hirya y'uwo murima harimo igishyamba kinini cyane. Ibiti birateye ni birebire cyane.

Intabire nini cyane, hirya y'intabire hateye imigano myinshi miremire cyane, iteye ku murongo. Ni igikuta gikomeye cyane hirya hariyo imisozi mirebire.

Ishyamba rinini rya gereveriya. Ishyamba ridufitiye akamaro kanini, kubera ko rikurura imvura, ishyamba rigakurura n'umwuka tugahumeka umwuka mwiza, kubera amashyamba dufite.

Umurima w'urutoki , urutoki n'igihingwa cyiza , iyo hajemo ibitoki turabigurisha tukabona amafaranga , tugakemura ibibazo by'imiryango ,hirya y'urutoki hariho ishyamba ririmo ibiti by'inturusu , binini cyane n'ibindi bitoya.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye, imbere y'inzu hariho imyaka ihateye y'ibigori.

Umurima wezemo shufureri. Imbere y'uwo murima, hariho inyubako nini cyane ifite amadirishya n' inzugi z'ubururu zirimo ibirahuri bya fime . Iyo nyubako, yubakishijwe amatafari ahiye.

Umurima w'amashaza ushingiriye. Amashaza barayashingira cyane, ni igihingwa cyiza kirera tukakirya, tukakijyana ku isoko, tukagurisha, bakaduha n'amafaranga. Hirya y'uwo murima w'amashaza, hariho igitari kirekire. Ni igitari kituzanira imvura, tukagira ubuzima bwiza kandi, tugahumeka umwuka wa ogusijeni.

Igihuru kinini cyane icyo gihuru cyegetsemo ibikenyeri, ni igihuru kigizwe n'imigano, hirya yaho hariho ibiti bya gereveriya birebire cyane, hirya hariho n'imisozi.

Umurima, umurima uteyemo insina, insina ntabwo zihingiye. Insina ariko iyo zannye hazaho igitoki, igitoki tukakirya, igitoki tukakijyana ku isoko cyangwa tukabigaburira abana, ugasanga bafite ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane uhinze igipande kimwe hirya y'umurima hariho ibiti birebire cyane hariho n'ibitoya. Ishyamba naryo rigira duhumeka umwuka mwiza iyo dufite amashyamba, tugakurura n'imvura tugahinga ibishyimbo bikabona imvura bikera n'ibigori.

Umurima w'ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza ibigo iyo byeze turabisarura, tukabigurisha ,ibindi tukabirya, tukabiteshamo n'igikoma ,tugasagura n'ibyo tunozamo agahunga, agahunga kaba keze, iyo wakariye abana baraseka, umugore agaseka.

Igihingwa cya marakuja, kiri mu giti giteye imbere y'urugo, hirya hari urugo, hari kugaragara igipande kimwe cy'uruzitiro, cyegetseho imishingiriro. Imishingiro tuyikoresha turi guhinga ibishyimbo.

Ibiti biteyemo ibidodoki. Ibidodoki ni igihingwa cyiza dutera hafi y'urugo. Ibidodoki byeze turabirya ,bidufasha kugira ngo abantu babirye borohe no mu nda.

Umudamu uri kuvomera gufuhira imyaka. Umudamu yambaye bote z'umweru, igitenge cy'umukara, n'iribaya ry'umutuku, n'igitambaro cy'ubururu.

Abadamu babiri batereye amasuka ku rutugu, umwe yambaye umupira w' umutuku n'igitambaro cy'umutuku n'igitenge, afite n'agakapu mu ntoki , n'uw'inyuma yakenyeye n'igitenge cy'icyatsi.

Umurima urimo abagabo benshi bari kwitegereza ibihingwa bahinze mu murima, harimo umwe ufashe agakapu mu ntoki, wambaye ishati y'umweru n'ikabutura y'ikoboyi, n'abandi bakikije ku ruhande hirya hari ibiti birebire.

Umukobwa n'umudamu uhetse umwana , wambaye igitambaro cy'umweru n'igitenge , bahagaze imbere y'imitwaro y'ibisheke hari undi mudamu wunamye, ibisheke n'igihingwa cyiza iyo ugize inyota uragica, ukakirya inzara igashira n'inyota igashira.

Karoti ni igihingwa cyiza iyo cyeze turagipakira tukakijyana mu masoko hirya no hino bakaduha amafaranga. Karoti ni mu bwoko bw'imboga uzivanga n'ibiryo ugasanga uriye ibiryo bifite intungamubiri. Karoti n'umuntu utari kureba neza ayihekenye ari mbisi ahumuka mu maso akareba neza.

Ipapayi, ipapayi rikasi kabiri mo ibipande bibiri. Ipapayi ni ikiribwa cyiza ,kikaba igihingwa cyiza, iyo ipapayi mu nda uri kumva hamerewe neza utari kwihahagarika neza, utari kujya ku musarani neza ,iyo uyiriye mu nda hagenda neza bigatuma ugira ubuzima bwiza ,no mu nda hakuroha.

Ibidodoki birunze, hirya yabyo harunzeho kocombure. Ibidodoki ni imboga nziza tuzivanga n'ibiryo ugasanga ibiryo biroroshye bibaye neza mu kurya ugasanga umerewe neza, na kokombure nazo nuko tuzikatira ku biryo ugasanga zimerewe neza, abantu baziriye usanga bafite ubuzima bwiza.

Abagabo bari mu muririma w'ibigori ,bari gufuhira bambaye imyenda yabugenewe, bahetse amapompo y'umweru, hepfo afite ibara ry'umutuku ,bari gufuhira, imbere yabo hariho n'abandi bagabo, na bo bahagaze bambaye imyenda y'imikara, n'abambaye imyenda y'umweru ,y'ubururu bari gufura umuti mu bigori.

Abadamu batanu bari guhinga bambaye imyenda inyuranye: igitenge, agapira k' umweru karimo utubara tw' igitambaro cy' umukara, n' umupira w' umutuku, igitenge byose n' umweru, umupira w' icyatsi n' undi wambaye igitambaro cy' umuhondo. Abadamu bari guhinga, bariguhingira imbuto zabo.

Umudamu uri mu murima w'ingano, hirya hariho umugabo nawe uri mungano uhagaze wambaye imyenda y'imikara.

Umudamu uri kugenda utereye isuka ku rutugu, ari kugenda yishimye, ari kumwenyura. yipfutse igitambaro cy'icyatsi, ishati y'umutuku ifite n'utubara tw'umweru duto duto, n'igitenge. Atereye isuka ku rutugu agiye guhinga.

Ibigori n'amasaka bivanze, ibigori n'amasaka iyo tubi betesheje bibyara igikoma cyiza, twakinywa tukagira ubuzima bwiza. N'ugiha umwana akagira ubuzima bwiza agakura neza.

Inkoko y'isake ihagaze n'iy'inkokokazi, inkoko y'isake iri kureba inyuma, imbere iy'inkokokazi yihese iri kureba inyuma, ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza ,buradufasha tukabona amafaranga, tukabona n'amagi abana bakamererwa neza, natwe tutiyibagiwe ugasanga tumeze neza.

Umugabo munini cyane wambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'ubururu. Yambaye na karuvati y'umutuku, ingofero y'umuhondo . Ahagaze muri depo y'imyaka ipanzemo imifuka irimo imyaka .

Indimu zisa n'icyatsi, zisa n'umuhondo, indimu ni igihingwa cyiza, iyo cyeze turakirya ,indimu tukazifasha twarwaye n'inkorora twazitonora tukazicanira cyane, ibishwa byoyo tukabicanira bikagabanya inkorora umuntu no gusarara mu mubiri, no mu muhogo agakira ugasanga agize ubuzima bwiza.

Abadamu batanu, batatu bari iruhande rumwe bari kugenda mu kayira, abandi batatu bari hakurya y'umuhanda nabo bari kugenda, ariko bambaye, bafashe udufuka mu ntoki, bambaye umupira w'ubururu n'ijipo y'umukara, undi yambaye igitambaro cy'umweru n'ijipo y'umutuku.

Umurima wa puwavuro. Puwavuro ni igihingwa kiza, puwavuro turazihinga, tukazijyana ku isoko, izisagutse natwe tukazirya tukazivanga n'ibishyimbo, puwavuro ni immboga nziza zivanzwe n'ibishyimbo usanga nta kibazo ziteye. Imbere ya puwavuro hariho n'akadobo k'umutuku.

Ibitoki, ibitoki bihagaritse ,batodesheje , bihagaritse ku murongo. ibitoki n'ibicuruzwa byiza ni ibiriribwa byiza kandi nk'iyo tubitetse turarya tukamererwa neza. Yabyengamo inzoga tugakuramo inzoga tukayigurisha amafaranga. Hirya y'ibitoki hariho ibicuruzwa byinshi. Hariho n'amaduka.

Amacunga, amacunga ni imbuto nziza. Abana barazirya n'abantu bakuru. Amacunga iyo uyariye ufite inkorora na yo iranagabanyuka, amacunga rero aradufasha n'iyo turangije kurya, tukayarya yoroshya mu nda, agatuma mu nda hatazamo umwijima.

Umudamu uri mu murima usutamye , uzingishije menshi wambaye imyenda y'icyatsi , arimo arakora ku bihingwa bye ari kubisuzuma, ari kureba ko bimeze neza.

Abantu bikoreye ingemwe z'ibiti ku mabase, n'umugabo ufite ingemwe z'ibiti ku ibase wateretse ku igare uri gusunikwa n'umudamu, bagiye gutera ingemwe z'ibiti. Ibiti, ni ingirakamaro cyane . Bari kunyura hagati y'umurima w'ibigori . Ibiti, bidufasha kugira ngo duhumeke umwuka mwiza ogisijene.

Amatunda hari itunda rimwe, n' irindi rikasemo kabiri. Irikasemo kabiri rifite umutobe (umushongi) w' umuhondo n' imbuto z' umukara. Itunda ni igihingwa cyiza iyo cyeze gihindutse umukara, turagisarura tukagica wamena kabiri, wanyungutira ukumva rifite umutobe, rifite icanga abana bakayarya bakamererwa neza, n' abantu bakuru barayarya bakamererwa neza.

Pavuro ebyiri zihishije zishinze hasi, inkondo zisa n'icyatsi ariko zo zarahishije, zaratukuye cyane ,pavuro ni igihingwa cyiza, pavuro iyo tuzejeje, tuzijyana ku isoko tukazigurisha amafaranga ,n'isagutse tukazirya.

Amateke, umurima w'amateke, bakuye amateke bayarambika ahantu, amateke n'igihingwa cyiza, amateke agira amakwana, iyo turanduye za nyina, ibiguri bya nyina turabijugunya hariya, tukabigaburira amatungo, tukarya ku ma kwana, amateke iyo tuyageretse ku bishyimbo, usanga abana bariye, bakamererwa neza, cyangwa tukayajyana ku isoko, tukayagurisha, tukabona amafaranga.

Igitoki, igitoki ni igihingwa cyiza . Turagihinga, cyamara kwera tukagisarura tukakirya . Ubundi, tukakijyana ku isoko tukakigurisha, cyangwa tukacyengamo urwagwa tukarunywa, ugasanga inyota irashize. tumeze neza cyangwa tukacyifashisha tukenga urwagwa , tukarujyana mu bukwe tukamererwa neza .

Imifuka ipanzemo ibirayi, imbere yaho hicaye abagabo babiri, umwe arahagaze, undi aricaye.

Ipera, ipera n'imbuto nziza ipera iyo ryeze abana bararirya n'abantu bakuru bakaryaho, ayasagutse tukayajyana ku isoko tukagurisha, tugakemura ibibazo byo mu miryango, amafaranga baduhaye.

Inkoko ziri kurya ziri gutoragura ibigori harimo: inkoko z'umukara n'umweru, ubugondo. Zirimo ziri kurwanira aho basutse ibigori ziri kurya.

Amasaka ,amasaka ni igihingwa cyiza ,amasaka tuyahinga twasaruye ,amasaka tukabetesha tukanywa n'igikoma, abana bacu bakagira ubuzima bwiza ,natwe tukakubetesha tukanywamo n'umusururu.

Voka ikase kabiri. Voka ifite urubuto, mu nda ya ho hasa n'umuhondo. Igisate kimwe kirimo uruhu, voka ni ikiribwa turya tumaze kurya, kugira ngo tumererwe neza mu mubiri.

Umugabo uri kumwenyura ufashe amahundo y'ibigori wayatonoye, uri kuyerekana wazamuye akaboko. Yambaye umupira uriho icyapa, umupira w'amabara y'umweru n'ubururu, ufite ikora ry'icyatsi. Umugabo ari kumwenyura, afashe amahundo y'ibigori mu ntoki.

Umurima wa puwavuro, puwavuro itangiye gushya isa n'umutuku, igipande kimwe gisa n'icyatsi, ntiyari yahisha neza, ariko puwavuro ni igihingwa cyiza, turagisarura tukakijyana ku isoko, baduha amafaranga, izindi tukazikatira mu bishyimbo zikaba imboga.

Umurima w'amatunda, amatunda aba meza cyane, harimo ahishije yabaye umukara andi aracyasa n'icyatsi, amatunda turayarya amatunda tukayagurisha no ku isoko, ugasanga baduha amafaranga umuryango ukamererwa neza.

Amagi, amagi akomoka ku nkoko tworora. Aya magi ari muri tureyi, tureyi ni udukoresho twagenewe kubika amagi neza kugira ngo adahungabana akameneka. Amagi akomoka ku nkoko, inkoko turazigurisha tukabona amafaranga twayibaga tukabonaho inyama n'amagi nayo akagira ubuzima bwiza iyo turitekeye umwana n'inzoka akagabanya n'impishwi.

Amateke ari ku kabase, amateke y'amabungubungu. Bungubungu ni igihingwa cyiza, iyo twayikuye tuyijyana ku isoko tukayigurisha bakaduha amafaranga, tugakemura ikibazo cy'umuryango, ayo twasigaje tukayatekera abana tukayabagaburira. Uwariye bungubungu agira ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane batonze umurongo harimo bari mu murima w'imyaka. Harimo abambaye imyenda inyuranye, hirya y'abo bantu hariho inzu nini cyane isakaje amabati y'umutuku. Yubakishijwe n'amatafari ahiye. Murabonamo n'uwitwikiye umutaka, umudamu uhetse umwana.

Umurima w'ibigori . Ibigori ni ingirakamaro . Ibigori turabisarura ,tukahungura ,tukabiteshamo igikoma . Ibindi tukagurisha tukabeteshamo umutsima.

Amahene menshi cyane ari mu ishyamba, afite amahembe maremare. Harimo ihene z'imikara, n'ihene z'ibihuga, n'ihene z'imitavu. Hirya y'amatungo hariho igiti kinini, hirya akaba n'umusozi muremure cyane.

Ibirayi bisa n'umweru, ibirayi ni igihingwa cyiza, turabirya iyo twabisaruye, ubundi tukabijyana ku isoko bakabigemura hanze, bakaduha amafaranga, tugakemura ibibazo byo mu miryango.

Umurima w'imyumbati, imyumbati ni igihingwa cyiza iyo cyeze tukijyana ku isoko, tukabona amafaranga, iyindi tukayikura tukayirya, tukagaburira abana bakagira ubuzima bwiza, n'umuryango ugasanga umerewe neza uratekanye.

Umudamu uri gufumbira ibigori. Yambaye ijipo y'umukara, yambaye n'ishati y'igitenge, yipfutse n'igitenge. Afashe imvaruganda ari kugenda arashyira ku kigori.

Umudamu uri gukora pipiniyeri, ari kuyora agataka arashyira mu mashashi y'umukara, uwo mudamu yambaye ipantaro y'umukara, n'agapira k'icyatsi kariho icyapa, n'igitambaro kigiye gusa n'agasharupe kagiye gusa n'umutuku, imbere ye hariho n'agafuka k'umuhondo.

Ibigori basaruye babikuraho ibigorigori byabyo, barabitonora basuka hasi ni amahundo gusa. Ibigori ni igihingwa cyiza, iyo tubihunguye tukabijyana ku mashini bakuramo akawunga tukakarya ibindi tukabiteka impungure, tukagira ubuzima bwiza n'abana bakagira ubuzima bwiza.

Imyembe: Imyembe ni igihingwa cyiza iyo cyeze, turayirya n' abana bakaryaho; ariko imyembe iyo isagutse tuyijyana no ku isoko tukayigurisha, bakaduha amafaranga dukemuza ibibazo by' umuryango.

Igitoki cyafiya gitoki igitoki iyo cyeze tugitaramo imineke tukayijyana ku isoko tukayigurisha bakaduha amafaranga isagutse n'abana bakayirya iyo umumtu yariye umuneke amererwa neza munda amajije kurya cyangwa mbere yo kurya akamanza akarya umuneke.

Abadamu batatu harimo uwambaye umwenda n'ishati y'umweru n'igitambaro cy'umuhondo, undi yambaye igitenge cy'umukara n'icyatsi yambaye n'agashati k'icyatsi n'igitambaro cy'umukara. Undi ntabwo yipfutse amashati y'umukara n'igitenge cy'icyatsi barimo bari guhinga bari kurebana bari guseka.

Abagabo batatu batwaye ibikurete, batwaramo ingemwe z'ibiti. Ibiti bari kugenda bagiye gutera ingemwe z'ibiti, ibiti ni igihingwa cyiza, iyo tugiteye kigakura, ishyamba ridufasha guhumeka umwuka mwiza.

Inanasi, umurimo w'inanasi , inanasi ni igihingwa cyiza. Tuzijyana ku isoko tukazigurisha, tugakuramo amafaranga akemura ibibazo by'imiryango. Muri izo nanasi harimo umugabo wambaye ingofero ya songa mbere n'umupira w'umukara, n'umudamu wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'undi wambapfukamunwa k'umutuku.

Abadamu batanu bari mu murima bari kugenda bari gusoroma icyay. Icyayi ni igihingwa cyiza, icyayi bari bari kugisoroma bari kumwenyura ukuntu icyayi cyabo giteye appeti. Icyayi ni igihingwa cyiza turakigunda tukijyana mu mahanga tukabona amafaranga kandi umwana wakinyoye aranezererwa cyane.

Abantu bari mu murima bari gusakara bari guhinga imyaka mu mufuka. Harimo abambaye imipira y'imihondo n'ipantaro z'imikara. Abo bantu bari guhinga inyanya zo mu mifuka. Bari kuzikorera kandi haranasakaye n'aho bari kuzihinga.

Ipapayi hariho ipapayi rimwe rihishije, ipapayi ni igihingwa cyiza, ipapayi turarirya turirya iyo mu nda hamerewe nabi, twamerewe nabi iyo mu nda hatameze neza rikadukiza iyo umuntu atari kujya kwihagarika yaririye mu nda haroroha akajya kwihagarika akagenda akagenda neza.

Imifuka ibiri iteretse, imifuka hirya y'iyo mifuka hariho igare ryegetse, ritatse.

Amashaza asutse hasi. Amashaza ni igihingwa duhinga. Iyo yeze turayarya tukayajyana no ku isoko, akadufasha tukayagurisha akadufasha kugira ngo twikenuze nk'umuryango.

igiti, umurima w'amapera. Ni igiti kiriho amapera, ariko amapera nta bwo ahishije, amapera ni imbuto nziza, abana barazihekenya, n'abantu bakuru bakazihekenya, zaba zeze tukajyana ku isoko bakaduha n'amafaranga, tugakemura ibibazo by'imiryango.

Ibitunguru. hari ibitunguru, ibitunguru na byo ni ibiribwa byiza twifashisha turi guteka, kugira ngo duterere mu mavuta turebe ko amavuta yahiye. Ibitunguru, hari ibitunguru by'umweru n'iby'umukara. Ibitunguru biba byiza cyane iyo wabishyize mu biryo, wumva ari ibirungo bihumuza ibiryo cyane.

Umuntu usuka indobo irimo ibiteja, hariho ikiganza kiri kugaragara cy' umuntu, n' indi miteja isutse hasi, hirya y' indobo hariho harunzeho puwavuro. Puwavuro nayo ni gihingwa cyiza twifashisha turi (kuba turi) kurya.

Mu muririma w'amateke, amateke ni igihingwa cyiza. Iyo yeze turayasarura tukayaryaho ndi tukajyana ku isoko tukayagurisha bakaduha amafaranga, tugakemura ibibazo byo mu miryango n'abana, tukifatanya n'abana tugatanga mitiweli. Umuryango ugasanga nta kibazo ufite.

Puwavuro eshatu: iy'umutuku, icyatsi, n'umuhondo, puwavuro ni igihigwa cyiza, iyoze cyeze turagikata tukakijyanye ku isoko tukabona amafaranga, cyangwa se tugakataho tukavanga n'ibishyimbo tukarya tukanezererwa n'abana.

Igitoki kinini cyane, igitoki ni igihingwa cyiza gikomoka ku nsina, kandi turagikama tugakuramo umutobe tukawunywa dufite inyota igashira, tugakuramo n'urwagwa, tukarugurisha amafaranga tukayifashisha tugakemura ibibazo by'umuryango.

Ibirayi birunze bya Kinigi. Ibirayi ni igihingwa cyiza turakirya ,ubundi tukabijyana ku isoko, ukabigurisha kukaduha n'amafaranga tukikenuza.

Abadamu babiri bari kubagara imyaka. Umwe yambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara. Bose barunamye bari kubagara. Uwo mudamu umwe yipfutse igitambaro cy'umweru.

N'ibirayi bisutse hasi imbere yaho hariho umugabo wambaye ishati y'umutuku wicaye imbere, iruhande rwe hariho ibicuruzwa amabase n'indobo.

Imiteza, imiteja n'igihingwa cyiza, kandi imiteja turayifashisha iyo tugiye kurya, bagiye guteka bakayivanga n'ibindi, n'ibishyimbo imiteja iri mu bwoko bw'imboga.

Abagabo babiri bari kureba, umwe ari kwereka undi, ari kureba muri simatifone, umugabo yambaye ishati y'umutuku, ipataro y'ubururu, undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, afashe n'ibase mu ntoki.

Umurima w'ibigori, umurima w'ibigori ni ibigori binini cyane ,binini, ibigori turabisarura, tukabirya, ibigori tukabibetesha ,tugakoreshamo gahunga ,ibigori tukabetesha hakavamo n'igikoma, abana bakagira ubuzima bwiza natwe.

Ikigori cyiza cyane cyeze batonoye ,kiri kugaragaza ikigori cy'umweru kitagira irindi saro. Ikigori ni cyiza turakirya, tukagisarura, tukagihungura, tukakijyana ku mashini bakabetamo agahunga.

Ibijumba bisutse hasi " igijumba ni igihingwa cyiza" Ibijumba turabihinga, dutera imigozi hakava ibijumba. Ibijumba twamara kubisarura tukabijyana ku isoko, ibindi tukabirya ibisagutse bitoya tukabigaburira n' amatungo, kugira ngo agire ubuzima bwiza cyane nk' ingurube.

Amateke y'amabungubungu. Amateke ni igihingwa cyiza, amateke na yo turayarya. Ari ku isiniya, amateke agira intungamubiri. N'iyo tuyageretse ku bishyimbo abana barayarya n'abantu bakuru, ugasanga bameze neza, n'abantu bayariye ugasanga bameze neza cyane.

Abantu benshi bari mu murima mu buhinge. Baciyemo udukatikati, ariko bahagaze iruhande rumwe bari kwitegereza mu buhinge. Harimo abambaye imyenda y'icyatsi, abambaye imyenda y'imituku n'imikara, n'ingofero za songambere. Harimo n'abunamye.

Umurima w'ibigori, ni ibigori bishimishije. Ibigori iyo byeze turabisarura tukabirya, ibindi tukabihungura tugatonozamo akawunga. Akawunga kakadufasha mu kurya umutsima w'ibigori.

Ikibuga gishashemo amatafari ahiye. Aho ku kibuga hateretse umufuka w'ibishyimbo. Hirya hariho indi mifuka y'ibishyimbo irambitse hasi. Harimo umudamu wambaye agapira k'ubururu n'igitambaro cy'umutuku. Hirya hariho undi wunamye wambaye agapira k'umutuku n'igishura cy'icyatsi.

Umurima w'amapera. Amapera n'imbuto nziza habamo amapera ahishije atarahisha neza nay' icyatsi amapera turayasarura tukayarya ayandi tukajyana ku isoko tukayagurisha akatwongerera mubyo dufite akatwongeramo ubushobozi.

Umuririma w'icyayi, harimo umugabo uri gusorama icyayi, imbere hari undi ahahagaze, umugabo wambaye ingofero y'ubururu, n'ikoti ry'umutuku, wambaye igisobane mu mugongo uri gusorama aranagamo.

Igihaza, igihaza n'kiribwa cyiza cyane, igihaza cyera ku ruyuzi , iyo uteye uruyuzi hazaho igihaza ubundi ukagisarura ukakijyana mu rugo ukakirya, igihaza iyo wakiriye ugira ubuzima bwiza, n'abana bakagira ubuzima bwiza.

Ni umurima w'imyumbati ariko bateruye bayikuye. Imyumbati ihagaze hariya, imyumbati yarashoye, imyumbati ni minini cyane. Igihingwa cy'imyumbati ni cyiza turayirya tukayijyana ku isoko tukayigurisha, ikaba inyunganizi mu kudufasha mu ngo zacu, amafaranga baduhaye.

Umudamu wasutse imyaka ku ihema. Umudamu ari ku yanika kugira ngo yume. Umudamu yambaye umupira w'umutuku, igitambaro cy'icyatsi, ishati y'ubururu. Yakenyeye n'igitenge.

Imyembe, imyembe ni igihingwa cyiza imyembedodo. Imyembe turayirya inyota igashira, n'inzara igashira, kandi imyembe tuyijyana no ku isoko tukayigurisha bakaduha n'amafaranga akadukemurira ibibazo, n'ibibazo by'imiryango tugatanga na mitiweli.

Umudamu uri mu murima uri kubagara ibirayi, uwo mudamu yambaye igitambaro cy'ubururu n'umupira w'ububuru, n'igitenge kirimo amabara. Hakurya y'umurima w'ibirayi hariho ishyamba rinini cyane ririmo ibiti birebire, umudamu arishimye ari gushaka kumwenyura.

Amacunga atonoye ari mu gasorori, amacunga ni ikiribwa cyiza turakirya inyota igashira kandi munda hakagenda neza kandi, nutari kureba akareba neza kubera ko agwanye mikorobe zijanye n'ubuhumyi bw'amaso.

Karoti , karoti n'igihingwa cyiza, karoti zikuye nziza nini zipanze ahantu, karoti turazirya tukazivanga n'ibishyimbo , karoti ziri mu bwoko bw'imboga , karoti umuntu wahekenye ari mbisi agira , amaso ye arahumuka akareba kure.

Imiteja ipanze hagati hapanze n'indi ihagaritse itanditse ukuntu, imiteja turayirya tukayijyana ku isoko tukanayigurisha bakaduha amafaranga tukikenuza mu muryangogo.

Abagabo bari mu murima, bamwe bahagaze undi wunamye wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu, bari kubagara imbuto bahagaze, harimo uwambaye umupira w'ububuru n'ipataro y'umukara.

Abahinzi babiri bari guhinga, hariho n'umudamu n'abadamu babiri hirya abahinzi bari guhinga ,abasore bambaye amasengeri y'umweru, n'agapira, n'akagofero k'ubururu, hirya hariho n'insina ,hirya hariho n'ishyamba, hirya hakaba n'umusozi muremure.

Ibihaza bitanu, ibihaza binini cyane. Ibihaza ni ibiribwa byiza byera ku nzuzi. Ibihaza iyo tubyejeje turabigereka ku bishyimbo tukarya, ibihaza tukabigaburira abana. Abana bariye ibihaza bakagira ubuzima bwiza, na twe tukagira ubuzima bwiza.

Abadamu batatu barimo uwambaye umupira w'umutuku n'igitambaro cy'umweru, harimo uwikoreye n'agapaniye kariho amacunga, imbere yabo harimo imbuto imyembe, amacunga, ubutunguru, inanasi, imbere yabo hariho n'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipataro y'umukara, bari kugenda nk'abagiye kurangura amacunga izo mbuto.

Ibihaza bitanu. Ibihaza biba byiza. Ibihaza dutera inzuzi hakazaho ibi ibihaza. Ibihaza iyo babigeretse ku bishyimbo turabirya, tukumva bikaturyohera, twumva biryoshye. n'abana babibagaburira ugasanga bamaze kubirya barishimye.

Umudamu urimo kugenda mumuhanda ufashe amabase atatu, yipfutse igitambaro cy'umutuku, nyambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara na bote. Imbere hariho inzu ihema ry'umweru.

Imifuka ipakiyemo ibirayi. Hari imifuka y'imyeru ifite amabara y'umutuku, n'imifuka y'imyeru ifite amabara y'icyatsi. Imbere hahagaze n'igare, hahagaze n'abantu benshi. Hirya y'ibirayi hahagaze n'imodoka. ibirayi ni igihingwa cyiza, turagisarura tukakijyana ku isoko, bakaduha amafaranga agakemura ibibazo by'imiryango.

Umudamu uri kugenda mu kayira kari hagati y'imyaka. Umudamu afashe amabase abiri mu ntoki, yambaye bote, n'ipantaro y'umukara, n'umupira w'umukara, n'agatambaro k'umutuku. Afashe n'isuka mu ntoki hirya iyo ari kujya hagaze undi muntu. Hariho n'inyubako isakaje amabati y'umweru.

Avoka ikase ,avoka ikasemo kabiri imwe uruhande rumwe, rurimo ikibuto indi ntabwo ikase iri ku ruhande. Avoka ni ikiribwa cyiza, avoka tuyifashisha turi kurya, iyo tumaze kurya tukayirya cyangwa tutararya, ibyo wariyemo mu nda bigenda neza biroroha.

Igiti cya avoka. Avoka zisa n'icyatsi ntabwo zirera neza ziri ku giti ariko avoka ni igihingwa cyiza, kubera ko tuyirya tumaze kurya, ubundi tukayirya tutararya kugira ngo ibyo twariye mu nda bigende neza.

Puwavuro zifunzemo imifungo zirambitse ku gafuka, hirya yaho hari agapaniye gateretsemo inyanya, hariho n'akabase karimo ubusa ,puwavuro n'inyanya ni ibiribwa bavanga n'ibyo kurya ugasanga ibyo kurya biroroshye, ni imboga nziza cyane, waziriye umererwa neza n'abana bakamererwa neza.

Ibijumba bitatu harimo ikijumba kimwe gitemye kabiri, ibijumba nibya tura, ibijumba biratandukanye iyi ni tuyita tura ni ikijumba cyiza turakirya tukabigaburira abana bakagira ubuzima bwiza, twabijyana ku isoko bakaduha amafaranga tugakemura ibibazo by'umuryango tugatanga na mitiweli.

Umurima w'inyanya. Hari inyanya zihishije n'izitarahisha. Inyanya ni igihingwa cyiza, iyo cyeze tukijyana ku isoko bakaduha amafaranga menshi cyane, tugatanga mitiweri, izisagutse tukazivanga n'ibishyimbo tukarya, isosi ikaboneka.

Abagabo batatu bari guhingira imbuto, harimo uwambaye songa mbere umupira ugiye gusa n'umukara, n'ubururu, n'ipantaro y'umukara. Hirya yabo hariho amazu manini cyane yubakishije amatafari ahiye, asakajwe n'amabati y'ubururu, hirya hariho ibiti birebire.

Umudamu uri mu murima w'ibigori yatonoye ibigori bibiri kimwe agifash mu kuboko kumwe ikindi mu kundi kuboko ari ku byerekana, ibigori bisa n'umweru, ibigori ni igihingwa cyiza turacyotsa cyangwa bakagitekareka mu nkono ya kinyarwanda tukabirya tukagira ubuzima bwiza.

Isoko ry'ibiribwa, isoko ririmo amacunga, indimu, inyanya, ibirayi, ibihingwa, imineke nta kintu kitarimo. Byose ni imbuto zose turya iyo tumajije kurya.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ufite akabara k'umukara, harimo n'ishati y'umweru. Umugabo ari mu murima w'icyayi, ari kugenda arikureba, ari gusoroma gake gake, icyo cyayi ni kinini cyane, gihinze ahantu hanini cyane.

Imfizi y'ihene yakuze cyane ifite ubwanwa. Ifite amahembe arebye inyuma yigondoye, ifite mu mutwe hasa n'umweru, ifite umugara w'umukara , mugatuza hasa n'umukara , no kunda hasa n'umweru.

Abagabo bahagaze bose n'abagore bashyize amaboko hejuru, imbere y'aho hahagaze umuntu uri kubaremesha inama, muri abo bantu bahagaze harimo abagore bambaye ibitenge, imipira yumukara, n'umugabo uhagaze ku ruhande wambaye ishati y'umutuku.

Amateke ya bwayisi. Bwayisi ni igihingwa cyiza, bwayisi ni iteke riryoha cyane. Iyo uyahase ukayagereka ku bishyimbo, wumva biri kujyana. Bwayisi wabigaburira abana, abana bagashima bakishima, yewe n'umugore agashima agaseka.

Ikinyomoro. Ingemwe y'kinyomoro, ibinyomoro ni igihingwa cyiza, ikinyomoro kiracyari gitoya, iyo keze dukuraho ibyo kurya, abana tukabagaburira abana bakagira ubuzima bwiza, abana kikongera n'amaraso abana babuze amaraso.

Marakuja eshanu, enye, iya gatanu ikasemo ibice, ikasemo kabiri Marakuja ni imbuto nziza iyo umuntu aziriye yumva amerewe neza, n'abana barazirya ugasanga barishimye. Umwana wariye imbuto n'umuntu mukuru usanga amerewe neza, kuko agira ubuzima bwiza.

Ibirayi bisutse hasi, ibirayi ni igihingwa cyiza, ibirayi turabihinga, twabisarura tukabirya, bamara kubirya ibisagutse tukabigurisha, twabigurisha tukagira bakagira ubuzima bwiza iyo babiririye.

Isoko ry'ibitoki by'inyamunyu. Inyamunyu n'ibitoki biribwa . Harimo ibifite amabere maremare meza cyane. Ibitoki turabirya bikadufasha , cyangwa tukabijyana ku isoko tukabigurisha, bakaduha amafaranga akemura ibibazo by'imiryango .

Avoka ikase kabiri ifite ibipande bibiri isa n'umuhondo mu nda. Avoka tuyifashisha iyo tumaze kurya cyangwa tukayirya tutararya.

Imiteja. Imiteja ni igihingwa kiza, iyo imiteja tuyihinze ikera tuyijyana ku isoko, isagutse tukayigaburira abana tukayivanga n'ibindi. Imiteja iri mu bwoko bw'imboga nziza cyane.

Inkoko inkoko eshanu, imwe iri gutoragura, inkoko y'umweru na saso....

Avoka ziri mu ndobo, avoka ni igihingwa cyiza, avoka iyo tuzihinze, zakwera tukazisarura tukajyana ku isoko, tukazibonamo amafaranga kugira ngo twikenuze mu muryango.

Abantu bari mu murima, bari gushyira invaruganda ku bigori harimo umudamu, abadamu babiri harimo n'umusirikari. Bafashe imvaruganda, udusorori twimvaruganda ya Ire bari gufumbira ku bigori.

Amahene menshi cyane, amahene ni itungo ryororwa mu cyaro cy'iwacu harimo: amahene y'imikara, n'amahene y' kivuvu, n'amahene y'umweru.

Igitoki kinini cyane cya fiya. Fiya ni insina nziza, igira igitoki kinini cyane. Amabere yo hejuru yatangiye guhinduka umuhondo, yatangiye gushyaho. Fiya turayirya, tukayigurisha, tugakuramo amafaranga, ubundi tukengamo n'urwagwa tukanywa tukanezererwa.

umurima munini cyane uhinzemo amashu. Amashu ni igihingwa cyiza, amashu iyo yeze tuyajyana ku isoko, tukayajyana ku isoko bakaduha amafaranga, ayandi tukayateka, tukayavanga n'ibishyimbo, ni imboga nziza cyane, abana bakazirya bakamererwa neza n'abantu bakuru.

Pwavuro, pwavuro ni igihingwa cyiza aho tuzisutse hano, hariho n'abadamu batatu, n'umugabo bambaye imyenda y'imyeru, ingofero z'imyeru. Pwavuro turazigurisha, bakaduha amafaranga tugakemura ibibazo by'imiryango yacu.

Ibijumba bitatu:ibijumba bibiri ,kimwe, icya gatatu kivunnyeho gifite mu nda h'umuhondo, ibi bijumba babikoramo biswi. Ibijumba ni byiza urabona iyi mbuto yo bayikoramo na biswi ,abana bakazirya bakagira ubuzima bwiza. ibi bijumba bifite intungamubiri ikomeye cyane.

Umugabo ufite igihaza. Igihaza ni igihingwa cyiza cyane, igihaza kiri mu bwoko bw'imboga. Igihaza turagiteka tukakirya, tukakigereka ku bishyimbo, ugasanga iyo uriye ibihaza mu nda hasigara hamerewe neza n'abana ugasanga barishimye bafite mu nda horoshye.

Umurima wa voka, avokana ni igihingwa cyiza. Izi voka ntizirera, ariko iyo zeze turazisarura tukazigurisha, izindi tukazirya mbere yo kurya cyangwa nyuma yo kurya, ubundi kugira mu nda hamererwe neza.

Igiti cy'imyembe. Imyembe ni imbuto nziza, iyo zeze turazirya tukagira ubuzima bwiza, izindi tukazijyana ku isoko tukabona amafaranga yo gukemura ibibazo by'umuryango.

Avoka, avoka irakase irimo n'urubuto izindi ebyiri zo hirya ntabwo zikase, ariko avoka ni igihingwa ni igihingwa cyiza, avoka iyo tumaze kurya turayirya cyangwa mbere tutararya tukayirya, kugira ngo mu nda horohe.

Voka ziri ku isiniya n'imineke, voka tuyitegura tumaze kurya, n'imineke tukayitegura tubaze kurya, kugira ngo ibyo twariye bigende neza mu nzira zo mu nda, kugira ngo binyure neza mu mara byoroshye.

Ibijumba bisutse hasi. Ibijumba ni ibiribwa byiza, ibijumba turabihinga. Dutera imigozi hakazaho ibijumba. Ibijumba tukabyikorera tukabijyana ku isoko tukabigurisha bakaduha amafaranga, ibisigaye tukabirya bigatunga umuryango, n'ibindi tukabigaburira n'amatungo byaba ngombwa.

Amatu itunda rikase kabiri, riri kugaragaza imbuto n'umuhondo mu nda. Itunda ni imbuto nziza, turya n'abana bakayakunda, iyo bayariye bagira ubuzima bwiza.

Igitoki cyiza cyane, igihingwa cy'urutoki, igitoki iyo cyeze turakirya cyangwa tukagitara tukakiryamo imineke cyangwa tugakamamo urwagwa tukarunywa , igitoki n'igihingwa cyiza cyane cyangwa tukakigurisha kikaduha amafaranga, twikenuza mu muryango.

Umugabo uri mu murima w'ibigori, uri kugenda arakora buri kigori, ari gucukuramo Nkongwa, Nkongwa ni inyamaswa iza mu bigori, ikabyangiriza tuyikuramo tukayicukura tukayita, cyangwa tugatera umuti wabugenewe nka Rokete, kugira ngo yice ako gakoko.

Ibijumba biri ku isiniya. Ibijumba ni igihingwa cyiza, ibijumba iyo tubyejeje turabiteka tukabirya ubuzima bukagenda neza, ibindi tukabijyana ku isoko tukabigurisha, bakaduha amafaranga tugatanga mitiweli, amafaranga tugakemuza n'ibibazo by'umuryango.

Isombe ibi ni ibiti by'imyumbati tubyita isombe, isombe iva ku myumbati cyangwa ku biti bitagira imyumbati bita isombe. Isombe ni isombe y'imyumbati turayisekura cyangwa tukayibeta mu mashini ubundi tukayiteka tugashyiramo ubunyobwa tukayirya igira vitamini nziza.

Imifuka y'imihondo ipanzemo irimo imyaka. Imbere yaho hariho inzu. Ipanda ku nzu yubakije amatafari ahiye imbere hariho ipoto...

Imyumbati isutse hasi imbere yaho hateretse umunzani, hahagaze n'abagabo babiri turi kureba igice cyo hepfo n'amaboko bari gupimura ku munzani. Imyumbati ni igihingwa cyiza turakirya kikadutungira ubuzima.

Inanasi; inanasi zirambitse ku mufuka hirya yaho hateretseho indobo hari, umuntu uri gukora mu nanasi guterura usa nkaho ari kubaza (kugura ) angahe? Inanasi ni igihingwa cyiza iyo tumaze kurya turayirya munda hakamererwa neza umuntu ntiyumve mu nda hijimye.

Amapera, amapera ni igihingwa dukunda guhinga cyane. Amapera iyo ahishije turasoroma tukajyana ku isoko, abandi tukarya, abana bakayarya, na twe tukaryaho, kandi bakaduha n'amafaranga ku isoko tugakemura ibibazo by'imiryango, mitiweri tugatanga n'ejo heza.

Umurima munini cyane uteyemo ibigori, haraguru y'aho harimo umuntu uri kugenda muri uwo murima, wambaye imyenda y'imikara, ibigori biteye ku mirongo.

Ibijumba bipanze ku tubasi. Ibijumba ni igihingwa kiza, turabihinga, twabijyana ku isoko ku tubase bakaduha amafaranga, twamara kuyagurisha tukayajyana mu rugo tugatanga mituweli, tugakemura n'ibindi bibazo by'umuryango.

Ipapayi. Ipapayi ni igihingwa kiza, ipapayi rihetse amapapayi menshi cyane. Ipapayi igihingwa kiza, iyo umuntu yabaye nabi mu nda, iyo aririye mu nda aroroha akajya ku musarani nta kibazo afite, akamererwa neza, mu nda hakoroha.

Amatunda ari ku ibase, amatunda ni igihingwa cyiza amatunda tuyajyana ku isoko bakaduha amafaranga ayandi bana bakayarya natwe tukaryaho, ariko amatunda iyo tuyagurishije baduha amafaranga tugafasha umuryango.

Avoka, ikasemo ibipande bibiri kimwe kirimo urubuto. Avoka isa n'umuhondo cyaneee , avoka iraryoha , avoka tuyirya iyo turangije kurya cyangwa iyo tutararya , avoka iyo uyiriye ,umaze kurya ugira ubuzima bwiza munda haroroha cyangwa mbere yo kurya.

Ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza, ndabona ibigori bimaze guheka, nta bwo birera, ariko iyo byeze turabihungura, tukabijyana ku mashini, bakabibeta tugakuramo igikoma, tugakuramo umutsima, ibindi tukabitonoza tugakuramo n'akawunga, ugasanga turayiriye tugize ubuzima bwiza, kandi tukagurisha n'amafaranga akemura ibibazo by'imiryango.

Inanasi ni igihingwa cyiza, inanasi z'umuhondo, z'icyatsi, inana zirimo amoko menshi. Hari izihisha zigasa n'umuhondo, izindi zigasa n'icyatsi, kandi zose zihiye neza tukazirya tumaze kurya tukagira ubuzima bwiza.

Umudamu uri hagati y'umurima w'ibidodoki, wambaye umupira w'umweru n'umupira w'inyuma w'imbeho w'ubururu n'umukara, wakenyeye n'igitenge, uri guseka, n'igitambaro kijya gusa n'umutuku n'igitaka.

Umurima w'urusenda uru rusenda ni imbuto ya kamurari. Kamurari ni agasenda kaba gato cyane gasharirara cyane. Urusenda ni igihingwa ngandurabukungu turarusarura tukarujyana mu mahanga bakaduha amafaranga, urusenda ni igihingwa cyiza cyane duhinga tukabona amafaranga.

Inkoko y'isake. Inkoko y'isake nini cyane cyane rwose ifite amaguru y'umuhondo, hejuru ifite n'ibara ry'urutuku n'ibara ry'umukara. Ifite ibirokoroko birebire cyane, ni inkoko ishinga. Inkoko ni nziza turayirya, inkoko tukanazigurisha zikaduha amafaranga.

Amashaza adatonoye. Amashaza ni igihingwa cyiza aya mashaza iyo tuyatonoye tuvuga ko ari amanyogwe. Amanyongwe barayateka ari nk'intonore z'ibishyimbo. Amashaza turayateka tukayateka mu bitoki tukayarya twumva aryoshye cyane. Amashaza ni igihingwa cyiza cyane tuyajyana ku isoko tukayagurisha akaduha amafaranga tugakemura ibibazo.

Umurima munini cyane, hejuru y'uwo murima hubatse inzu y'amabati. Hirya y'umurima, hirya y'inzu hariho ishyamba rinini cyane, hirya hariho n'imisozi miremire.

Inzuzi, inzuzi zikomoka ku bihaza. Inzuzi ziva mu bihaza, ubwo tukazikaranga, tukazivanga n'ibiryo bikagira impumuro nziza, kandi zigira vitamini, iyo zivanze n'ibiryo.

Umurima w'ingano, ingano zigiye kwera zitangiye gusa n'umuhondo , ingano n'igihingwa cyiza iyocyeze turagisarura tukakirya, izindi tukazijyana ku cyuma bakazibeta tugakoramo imikati.

Ikigori, ibigori , amahundo abiri y'ibigori avunye kabiri, ibigori birahunguye biri hasi. Ikigori ni igihingwa cyiza turagihungura tukakibetesha tugakoramo umutsima tukarya, tugatekamo n'igikoma tukanywa, tukagira ubuzima bwiza.

Ubunyobwa busutse ku ntara, ku ntara ni ukuvuga ngo ni inkoko bagosoza ibishyimbo, ubunyobwa buranitse, ubunyobwa turaburya, bakabukoramo n'amavuta, bakamuramo amavuta, ubunyobwa ni igihingwa gidufatiye runini cyane.

Ikigori keze, gifite impeke z'umuhondo. Ikigori ni igihingwa kiza, iyo keze turakirya, tukagihungura tukajyana ku mashini, tukabiteshamo igikoma, tugatonozamo n'agahunga, kagatunga umuryango.

Umurima w'amasaka. Hirya yaho hariho n'umurima w'ingano. Amasaka ni igihingwa kiza n'ingano ni igihingwa kiza, ariko iyo byose bi byegezeze tukabivanga tubeteshamo igikoma tugashyiramo n'ibigori, ugasanga tuyibyaje ifu ya sosoma twayitekamo igikoma usanga aba bamerewe neza natwe tumerewe neza.

Mu iduka ry'ubucuruzi ku ibaraza, hasutseho ibishyimbo by'umutuku n'impungure z'ibigori, ibigori biri ku mabasi. Hirya y'aho hapanze ibikapu, hariho n'ibindi bicuruzwa binyuranye, amadobo......

Umudamu uri kugosora ibigori, ariko hari kugaragara igice cy'ahagana hepfo. Yambaye igitenge cy'umutuku, umupira ku kuboko ahari kugaragara n'ubururu n'urunigi yambaye, n'agakomo ku kaboko ko hirya no hino.

Imifuka ebyiri irimo ubunyobwa, ubunyobwa ni bwiza. Imifuka ifite amabara y'umweru n'icyatsi n'umutuku, ubunyobwa iyo bweze turaburya ubundi tukabujyana ku isoko, bukadufasha gukemura ibibazo byo mu muryango.

Inzuzi ziri ku isiniya, inzuzi zikomoka mu bihaza, ibihaza tubibona ari uko twateye inzuzi, inzuzi nazo ni nziza ariko tuziteka tukazikaranga, tugasekura,v tugashyira mu biryo tukarya tukamererwa neza n'abantu bakamererwa neza bakagira ubuzima bwiza.

Depo y'imyaka , imyaka iri mu mifuka, iri mu mifuka y'imituku, ifite amabara y'umutuku n'umweru , iradoze iri kuri depo bagiye kuyipakira.

Umudamu wicaye, wambaye ishati y'igitenge, wizingishije imisatsi n'ingutiya y'umukara, uri kugosora ibigori. Afashe intara ari kugosora ibigori, imbere ye aho yicaye urugo rwe rusakaje ibyatsi ni inzu ya kinyarwanda za kera.

Umudamu uri kugosora amasaka. Umudamu ari kugosorera ku nkoko. Inkoko nini bayita intara. Yambaye igitambaro cy'umweru n'umupira urimo ibara ry'umutuku, igice kimwe n'umweru hasi ni ubururu yambaye n'igitenge.

Ibishyimbo byeze bifite ibihu by'umutuku. Ibishyimbo iyo byeze tubirya intonore byaba byumye tukabirya n'ibyumye. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza uwakiriye agira ubuzima bwiza, nta muntu ubaho atari kurya ibishyimbo kuko uriye indyo imwe yakugwa nabi.

Amamera bari kwanika bari gukozamo ikiganza, amamera iyo yumye turayabetesha tukanywamo umusururu, bagakoramo hari umusururu uhiye n'igipende. Amamera iyo tunyoye umusururu icyaka kirashira, inyota ikanashira.

Ingemwe z'ibihwagari, ibihwagari ni igihingwa cyiza, iyo tugihinze kikera tukagisarura tugikamuzamo amavuta, ubundi n'ibisigazwa byavuyemo amavuta tukabigaburira amatungo, ugasanga amerewe neza.

Umuceri udatonoye, umuceri iyo tuwutonoye turawurya, umuceri ni igihingwa cyiza gihingwa ahantu h'amazi, n'iyo utekwa dushyiramo amazi menshi.

Umuceri udatonoye. Umuceri ni igihingwa cyiza, iyo umuceri tuwusaruye tugera igihe cyo tukawushyira mu mashini zikawutonora, umuceri tukawurya, umuce tukawugaburira n'abana, bakagira ubuzima bwiza, bakamererwa na neza.

Umurima urimo amasaka, amasaka atukuye, atukurije, yeze, amasaka tuyakoresha turi kunywa igikoma, tukabetesha tugakuramo umusururu cyangwa ubushera, tukabunywa.

Ibigori bisaruye bidatonoye bishanditse bimanitse ku biti. Ibigori ni igihingwa cyiza dutonora tukabetesha, bagatonora, imashini zigatonora, zigakuramo na kawunga, ubiriye wese agira ubuzima bwiza n'abana bakagira ubuzima bwiza.

Ibirayi biri mu mifuka ibiri. Umufuka umwe uteretse, hariho n'indobo iruhande ifite umupfundikizo w'umutuku, n'ibindi bisutse hasi.

Imifuka irimo imyaka ipanze ahantu isutse ku kibuga, imbere yaho hariho inzu y'amabati y'umweru iteye irangi ry'ubururu, hariyo n'abantu benshi cyane bari mu isoko.

Ibishyimbo bisutse hasi, ibishyimbo by'umutuku ibishyimbo turabirya, tukabigurisha, ibishyimbo ni igihingwa duhinga mu muryango.

Ibigori bisaruye bishaditse ariko bidatonoye. Ibigori ni igihingwa cyiza, ibigori turabisarura tukabihungura, tukabibetesha tukanywamo igikoma, tukabibetesha tukaryamo n'akawunga.

Umurima w'amakoro umezemo soya imwe, hariho n'igikumwe cy'umuntu kiri guhinguka gifashe soya esheshatu. Soya imaze kumera ,urugemwe rumwe rumaze kumera, rufite amababi abiri.

Ibishyimbo biri ku ntara ibindi biri mu cyibo, ibindi bisutse hasi. Ku ntara hari kugaragara intoki z'umuntu ufashe hakagaragara n'urutoki rw'igikumwe. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza, turabirya ibisagutse tukabigurisha, bakaduha amafaranga tugakoresha, ukamererwa neza.

Amasaka ari mu muririma bashinze ibiti bayegekaho, hirya y'ayo masaka hariho ibiti binini cyane, hirya harimo ikindi kimeze nk'ikigega cyubakiyemo.

Ibishyimbo bisutse ku isiniya. Ibishyimbo ni byiza tubyifashisha turi kurya ,twabisagura, tukabijyana ku isoko ,bikadufasha kabigurisha ,tukemura ibibazo by'umuryango.

Umurima w'ubunyobwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza igihingwa ,ubunyobwa iyo bweze turabusarura, tukabukaranga ,tukabukenya ,ubundi bakabukamuramo amavuta bugira amavuta meza cyane.

Umukeka urambitseho inkoko isutseho ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza turabirya, ibishyimbo tukabigurisha, ibishyimbo turabihinga, ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane gifitiye umuryango akamaro kanini.

Umugabo uri_ wambaye agapfukamunwa, wambaye ishati y' igitenge, imbere hariho mikoro inyuma ye, hamanitse ibigori bitonoye byumye. Ibigori ni igihingwa cyiza nacyo turagikoresha, iyo tugihunguye tukibeteshamo igikoma, ubundi tukagitekamo, impungure tukagira ubuzima bwiza tukazirya.

Amasaka agesheje, amasaka aratukuye, amasaka ni igihingwa cyiza, iyo tuyasaruye turayahura, tukayanywamo igikoma, ayandi tukayagurisha, amasaka ayandi tukengamo ikigage, amasaka aba meza cyane.

Impungure impungure ni igihingwa cyiza hari umudamu afashe isahani ari gusuka gusuka ntuza mu ibase, hirya harindi base yuzuye impungure, impungure rero turazibetesha tukaziryamo umutsima tukazibehetesha tugakoramo agahunga n'igikoma cyiza tukakinywa tukamererwa neza.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'igitenge n'ikabutura y'umukara, nta nkweto yambaye. Yaranduye ubunyobwa abufashe mu ntoki abucuritse. afatiye aho impeke ziri. Ubuyobwa ni igihingwa cyiza, turagitonora tukagikaranga, tukakirya, ubundi bagakamuramo amavuta.

Igihingwa cy'igihwagari, igihwagari ndabona gifite ibara ry'umuhondo. Mo imbere kigiye kwera. Gifite ibara ry'umukara. Igihwagari ni igihingwa cyiza, iyo cyeze tugikamuzamo amavuta. Kigira amavuta meza. Ibisigazwa tukabigaburira amatungo.

Ubunyobwa, ubyobwa igihingwa cyiza duhinga tugasarura, tukabetesha tukavanga n'ibiryo tukarya. Ubunyobwa tukabugurisha ku isoko, ubusagutse bagakamuramo amavuta. Ubuyobwa bugira amavuta meza cyane.

Umurima w'amasaka, amasakara aracyari matoya ni ho atangiye guhindura ibara. Amasaka aba meza, iyo tuyasaruye turayahura, tugashigishamo tukayinika tugashigishashamo umusururu, ayandi tukayashigishamo igikoma amakoma, abana bakinywa ntibajye mu mutuku bakagira ubuzima bwiza na twe.

Ibigori bitonoye, ibigori byiza bya tamira by'ibara rimwe ry'umweru cyaneee. Ibigori ni byiza, ibigori iyo tubihunguye tubitonozamo agahunga bikagira agahunga keza, twagaburira abana ugasanga bafite ubuzima bwiza, n'abantu bakuru bose ugasanga nta kibazo bafite iyo bariye agahunga.

Umudamu wambaye igitenge cy'umutuku, harimo n'ibara ry'igitaka, n'agapira k'umweru, n'igitambaro cy'umukara. Umudamu ari hagati y'imifuka myinshi cyane, muri depo y'ibicuruzwa.

Kontineri yuzuyemo impungure; Kontineri ni kimwe cya kabiri cy'imodoka kiba cyuzuyemo impungure. Impungure ni igihingwa cyiza, impungure barazigurisha izindi bakazirya, izindi bakazibeteshamo igikoma.

Umugore uri kugosora ibishyimbo, ari gusuka ku mifuka, wambaye umupira w'umukara, wazingishije na menshi, wambaye n'ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara wanditseho akapa k'umweru.

Umurima w'amasaka. Amasaka ni igihingwa cyiza. Iyo cyeze turagitema, tukanika, tugahura, amarabura tukabeteshamo igikoma, tukavanga n'ibigori. Abana bakagira ubuzima bwiza, bakanywa kandi n'asagutse tukayagurisha, abarabetera urwagwa bakabetera, bagakora urwagwa abantu bakanywa bagashira inyota.

Ibigori bine, bitatu biratonoye, ni ibigori bya mayizori. Mayizori ni igihingwa k'ibigori, bifite impeke z'umuhondo. Ibigori ni byiza, ibigori nabyo iyo bitonoye tubikuramo ifu tukayitekamo igikoma, bagatekamo umutsima ugasanga turabiriye, n'abana ugasanga tumerewe neza mu muryango.

Ubunyobwa, ubu ni ubunyobwa baranduye, ubunyobwa baburanduye barambitse aho ngaho. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza ,bategereje kugira ngo babukate babutunore, ubunyobwa ni igihingwa cyiza, turagikaranga tukakirya ,abandi bagahekenya ububisi ,abandi bagakamuramo amavuta. Ubunyobwa bugira amavuta meza afite intungamubiri.

Amasaka ni igihingwa cyiza .hari amasaka n'amasaka imishishi andi masaka atanogonoye neza, hariho n'amahundo atatu arimo amasaka, amasaka ni igihingwa cyiza bituhura tukanywamo igikoma tugakoramo umutsima tukajyana n'umutsima w'amasaka.

Umugabo uri mu bwanikiro bw'ibigori wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'ubururu. Hari umudamu uri kumuhereza ibigori ari kugenda amanika, agenda amanika kuri buri biti uko biteye bitambitse. Hasi hateye amabati y'ubururu akikije ahantu muri ubwo bwanikiro.

Umugabo uri guhinga umuceri yambaye ishati y'umweru n'ikabutura ngufi y'umukara. Ni igihingwa cyiza gihingwa mu mazi kandi niyo weze tuwuteka dukoresha amazi menshi.

Inzuzi, inzuzi ni inzuzi tuzibona, tuzikura, tuzikura mu bihaza. Ibihaza biraribwa, n'inzuzi zivamo zikaribwa ,inzuzi tukazikaranga, tukazisekura, tukazivanga n'ibiryo, tukazirya mu ifu ,ubundi inzuzi tukazikaranga ,tukazihekenya zikaranze.

Ingano zisaruye zishaditse, zicuritse ahantu zishanditse. Ingano ni igihingwa kiza, iyo tugisaruye turabetesha, tukabitesha tugakuramo umutsima, bagakoramo n'imbada, abandi bakanywamo n'ibikoma, abandi batekamo n'imitsima isanzwe. Ingano ziradufasha cyane.

Inzu nini cyane, inzu iri hirya y'indabo, indabo hagati y'indabo harimo n'akarima gateyemo ibigori, ibigo ni igihingwa cyiza, iyo nzu yubakishijwe amabuye.

Umurima w'ibigori bitaraheka. Ibigori ni byiza ni igihingwa duhinga, iyo byeze turabigurisha, tukabijyana ku isoko, ibindi tukabihungura tukabitekeramo abana igikoma, natwe tukarya n'impungure tukamererwa neza.

Soya, soya ni igihingwa cyiza, soya iyo tuyejeje turayibetesha tugashyira mu biryo tukarya. Soya tugakamuzamo amavuta. Soya igira amavuta meza cyane afite intungamubiri ku Munyarwanda.

Igishyimbo, umurima w'ibishyimbo, igishyimbo ni igihingwa cyiza gifite ururabo rw'umweru, hariho n'iminyonyoro ,igihingwa iyo cyeze turakirya tukabigurisha ku isoko, ibisigaye tubona amafaranga.

Ubunyobwa budatonoye, imbere yaho hariho ibase irimo ubunyobwa butonoye. Ubunyobwa ni igihingwa cyiza turacyifashisha, kandi tugakamuzamo n'amavuta. Bugira amavuta meza.

Umufuka w' igunira urimo impungure. Impungure ni gihingwa cyiza iyo zeze turazigurisha tukazitonoza, tugakuramo akawunga. Twamara gukuramo akawunga tukakarya tukamererwa neza n' abana bakamererwa neza.

Ibigori bisaruye byinshi cyane. Bishaditse, hari ibiti bishinze, bateye imitambiko, niho babimanitse. Ibigori ni ingirakamaro, ibigori turabihungura bakabibetesha tukabinywamo igikoma, ibindi tukabiteka tukabirya amahundo, ibindi tukabigurisha.

Ibigori bisaruye bishanditse biri ku mitambiko y'ibiti. Ibigori ni igihingwa cyiza, iyo tugisaruye turagihungura tukakibetesha, tukavanga n'amasaka abana bakaywa igikoma, na twe tukarya n'impungure. Ibindi tugatonozamo akawunga. Uwariye akawunga agira ubuzima bwiza, agasozaho n'igikoma.

Umurima ufitemo amajeri, amajeri ni igihingwa cyiza turakirya tukagisarura tukakijyana no ku isoko tukakigurisha bakaduha amafaranga yo kwikenuza.

Umugabo uvuye gusarura ibishyimbo bigufi uri gusunika ku igare. Imbere ku igare yasizemo furari, yambaye bodaboda n'ipataro y'umukara, n'umupira w'ubururu.

Amashaza asutse hasi hariho nari mu ku ntara. Amashaza ni igihingwa cyiza, iyo cyeze turakirya andi tukayajyana ku isoko tukayagurisha agatunga umuryango.

Amajeri y'umukara, amajeri y'umukara ayo turayahinga, amajeri na yo iyo yeze turayakaranga tugasekura, tugashyira ifu mu biryo ayandi tukayajyana ku isoko, bakayaryamo amanyogwe cyangwa bakayaryamo ayumye.

Umurima w'ubunyobwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza, ubunyobwa turabusarura ubunyobwa tukabutonora, ubunyobwa tukabukaranga tugahekenya, ubunyobwa ubundi bakabukamuramo amavuta, amavuta y'ubunyobwa meza cyane agira intungamubiri cyane nziza cyane nyinshi cyane, atunga umubiri neza.

Ikigega. Ikigega icyo duhunikamo ibigori cyangwa amasaka, ikigega ni cyo abaturage ba kera twasaruragamo, uretse ko bitagikunda kuboneka, hamwe na hamwe biri kugenda biracika.

Ibyibo bibiri bitatse, birimo ibishyimbo, nyiramabuye na mwirasi. nyiramabuye isa n'umutuku udakeye neza, mwirasi ni ibishyimbo bisa by'uruyumba bisa n'uburo. Mwirasi ni ibishimbo byiza turabirya na nyiramabuye cyane.

Rantiye, iyi ni rantiye umuntu afashe ku kiganza, indi iri hasi ariko yakojejemo ikiganza. Ari kwesura ari kwereka abantu. Rantiye ni amashaza meza aturuka mu mahanga. Rantiye iyo wayiriye ugira ubuzima bwiza, kandi rantiye n'abana iyo bayiriye barishima cyane.

Abantu bane bari guhura, babiri bari guhura ingano, umudamu ur'inyuma ari gusarura afunga imifungo, araterera aho bari guhurira n'undi uri haruguru ari gusaruro ari kureba ruguru, ingano n'igihingwa cyiza nacyo iyo gisaruwe tugikoramo turakibetesha tugakuramo umutsima n'igikoma tukamererwa neza.

Amashaza y'ibisate. Amashaza ni igihingwa cyiza, amashaza iyo yeze turayasarura, tukayarya, ayandi tukayajyana ku isoko tukayagurisha, asagutse, tukabona amafaranga, asagutse tukayahunika, tukajya turyaho gahoro gahoro.

Inka nini cyane y'isine bari kuyitera urushinge veterineri uri kubona ikiganza n'icupa ry'umuti ricuritse, iyi nka ifite n'iherena riri mu gutwi.

Inkoko nziza cyane harimo: inkoko y'umweru n'iy'umukara. Inkoko ni itungo tworora rigatera amagi tukagurisha twakenera n'inyama tukaryaho.

Inzu nini cyane ifite amarembo afite ibiti by'imyugariro. Imbere kuri iyo nzu, imbere inzu yubakishije amatafari ahiye, hari guturukayo abagabo babiri umwe wambaye imyenda y'icyatsi. Hirya y'iyo nzu hariyo urutoki.

Inka bari gutera umuti, umugabo uhetse ipombo, wambaye ishati y'igitaka n'ipantaro y'umukara. Ari gufuhira inka, hirya hari undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari gutera inka y'ikibamba umuti.

Abaganga b'inzobere bari kuvura inka. Imbere ya bo imbere ya bo mu kibuga hari na kajugujugu ihahagaze. Abaganga bambaye imyenda y'imiforume. Hatetse n'ikidomora impande....

Ifamu nini cyane irimo inka nyinshi nyinshi cyane. Inka ni itungo ryiza riduha amata abana bakayanywa bakamererwa neza, n'abantu bakuru. Harimo inka z'imikara, iz'amamasine n'iz'ibibamba. Hakurya y'ifamu hariho ishyamba.

Amagi ari muri tureyi, ibintu harimo tureyi zibika amagi neza. Amagi akomoka ku nkoko, inkoko tukazigurisha n'amagi tukayagurisha, tugakemura ibibazo by'umuryango. Inkoko ni itungo ryiza riberanye n'icyaro cyacu.

Umugabo wambaye ingo_songambere wambaye n' umupira w' umutuku, afite agapfukamunwa ku kuboko, ari kugaburira udukwavu, urunini n' icyana ari kuruha ubwatsi, ari kumanika ubwatsi bw' inkwavu ziri kurya. Ubworozi bw' inkwavu ni bwiza turabwifashisha iyo twakenye kabukaduh(...).

inkoko z'imishwi. Inkoko ni ubworozi bwiza, buradufasha kugirango ngo tubone amafaranga, iyo zateye amagi tukayarya tukagira n'ubuzima bwiza, iyo tuzigurishije dutanga mitiweri, twazigurisha tugatanga, tukanivuza tukagira ubuzima bwiza.

Isake nini cyane ifite amabara, ni isake ifite ibirokoroko mu ijosi hasa n'umutuku, mu gatuza hasa n'ikijuju, ifite n'ibirenge n'ibinono by'umuhondo, n'ibisembe by'umukara.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu harimo n'uwambaye ishati y'umutuku, bari kubaga itungo bambaye na za ga z'umweru, bari kurivura barirambitse hasi, hari n'ufashe ku ijosi na we wambaye ishati y'umweru, bari kurisatura mu nda bari kureba uburwayi bwa......

Abaveterineri bambaye imyenda yabugenewe bari kuvura inyamaswa. Bari gutera urushinge, bambaye n'udupfukamunwa.

Abaveterineri bari kuvura inka , inka iri mu rupangu abaveterineri barimo bari kuyitera urushinge, inka n'itungo ryiza ritanga umukamo , abana bakamererwa neza banyweye amata.

Inkoko y'Isake iri kugendagenda mu kibara, ifite ibirokoroko by'umutuku hagati munsi y'ijosi hasa n'intuza by'umuhondo hepfo no ku mugongo ifite intuza y'umuhondo, ikagira ibisembe by'umukara no hafi y'amaguru naho ni umukara Isake rero, turayigurisha tukabona amafaranga n'Abana bakayirya,.......

Inka ziri kurisha. Inka harimo, inka zifite amahembe n'inka z'inkungu. Harimo inka z'ikibamba, n'iz'umusengo.

Inka irunamye iri kurisha, inka ni itungo ryiza rigira ubuzima bwiza, Inka ikaduha amata, inka ikaduha n'ibikomoka ku nyama, iyo wayigurishije ubona amafaranga umuryango ukamererwa neza, nawe ukamererwa neza, ugatanga na mituweli.

Umuveterineri ufite igikapu batwaramo imiti, arimo arunamye ari kugifunga, yambaye isarubeti, n'undi ku ruhande wambaye isarubeti y'ubururu, yanditseho inyuma inyuguti z'umweru.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa hangari. Imbere y'inyubako hateye indabo, iyo nyubako iteye irangi ry'umweru.

Inka iryamye, wagira ngo yakomeretse ku mazuru. Ni inka y'ikibamba nini cyane iryamye, inka ni itungo ryiza ritanga umukamo, abana bakabona amata, n'abantu bakuru iyo wanyoye amata wumva umerewe neza, ubuzima ukumva buri kugenda neza.

Inyamaswa ziryamye hamwe, inyamaswa z'inkwavu rumwe ni umukara n'umweru rufite n'ibara mu gahanga. Inkwavu ni itungo tworora tukarigurisha twakeneye inyama tukaryaho.

Abagabo batatu harimo n'abazungu babiri umwe n'umwirabura bambaye udupfukamunwa, bafashe inyamaswa bari kuyitera urushinge. Bambaye n'amaga mu ntoki bahetse n'ibikapu binini.

Umugabo uhetse ipombo y'umuhondo ari gufuhira inka, yambaye n'ishati y'icyatsi, ari guseka, arishimye, ari gufuhira inka y'umusengo.

Umwana uri kurya agahunga, umwana muto cyane wambaye umupira wicyatsi ufitemo amabara y'umutuku n'ay'ubururu.

Inka ziri mu rwuri. Inka harimo inka z'umusengo, n'inka z'ibihogo, zirimo kurisha izindi zirahagaze, ziri kureba zifite n'amaherena.

Itsinda rigizwe n'abantu benshi harimo n'abazungu, bambaye imyenda yabugenewe, bambaye , isa n'ubururu, n'udupfukamunwa tw'ubururu, n'ingofero, umwe yambaye ingofero y'umweru, abandi bambaye ingofero y'ubururu.

Inkoko eshatu, Aho iruhande rw'inkoko eshatu hariho, ziri kugenda ariko hariho umwana ufashe ibisembe. Akana kambaye agapira k'agatuku n'ipantaro y'umukara kari kugendesha ibirenge, kari gukurura ibisembe by'inkoko imwe.

Ingurube iri kurya, ni ingurube nini cyane, ingurube ibyara. Ingurube ifite igice kimwe cy'igikara hasi, hejuru ibara ry'umweru. Ingurube ni itungo ryiza, turabarigusha bakaduha amafaranga, tugakemuza n'ibazo byo mu muryango.

Umugabo n'umugore bari kurebana bari guseka umugabo yambaye n'amarinete n'umugore ari kureba afashe ingurube, umugabo afashe ingurube mu ntoki , ayifatiye ku mutima, ingurube nini cyane, yayiteruye ari kuyereka uwo mudamu, umudamu agaseka bambaye imyenda y'imyeru.

Umugabo usutamye uri kugaburira ingurube mukidomora ari gushyiramo ibiryo, ingurube iri kujya kugisatira ngo ijye gusangamo ibiryo ngo ibirye. Ingurube ni itungo ryiza, ingurube iyo tuyigurishije tubona amafaranga tugatanga mitiweri n'abana bakajya akabenzi.

Abaganga , muganga uri kuvura inyamaswa , uwo muganga yambaye imyenda yabugenewe, yambaye ga mu ntoki imbere hariho n'umudamu wambaye ishati y'igitenge, n'umushanana w'umukara bapfunditse n'imisatsi , imbere hari n'umugabo wafashe ku mutwe w'inyamaswa.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu na bote z'umukara, fite ingurube nini cyane ari inyuma yayo ari kuyikora mu mabere, iyo ngurube nini wagira ngo iri konsa. Ingurube ni itungo ryiza turarigurisha bakaduha amafaranga bakariteka n'akabenzi tukakayirya tukaryoherwa.

Ifamu y'inka nyinshi cyane irimo umushumba wambaye ishati y'umweru n'ipataro y'umukara , iyo famu irimo inka zibibamba gusa gusa gusa harimo n'inka y'umukara, ndi kubonamo n'inka z'umukara , Inka zitanga umukamo, zitanga amata , zitanga inyama, inka n'itungo ryiza ribereye umunyarwanda.

Ingurube eshatu ziri kumwe itungo ryiza ryororwa mu giturage, ingurube iyo tuyigurishije baduha amafaranga, aho wayigurishirije bakayibaga bakaduha n'akabenzi, akabenzi n'inyama nziza cyane ikunzwe.

Inkwavu ziri kurya, inkwavu ni eshatu, harimo urukwavu rw'amabara, rufite amabara umukara n'umweru, urukwavu ni itungo ryiza, korora mu giturage twarigurisha bakaduha amafaranga, twakenera n'inyama tukazibonaho.

Umugabo uri gukora inka mu nda y'amaganga. Umugabo yambaye agapfukamunwa, yambaye n'isarubeti ya kaki. Uwo mugabo asa nk'aho ari kuyitera intanga. Inka iri mu gipangu.

Inyama zimanitse kuri koroshi ,umuntu ari kuzikora, ari gukata, ari gushyira, ari gushaka gushyira ku munzani gupimura. Inyama ni ikiribwa cyiza, inyama iyo umuntu yaziriye na zo agira ubuzima bwiza, inyama zikomoka ku matungo tworoye.

Ihene ihagaze mu rwuri ifite amahembe manini , ihene y'inzungu ifite amatwi manini cyane n'umugara , ihene ifite amabara abiri umweru n'umukara.

Itsinda rigizwe n'abantu bambaye iniforume, abantu b'abanyeshuri. Bambaye amataburiya y'imyeru n'amabote y'imyeru. Harimo n'uwambaye ipantaro y'umukara, bafite n'ubupfukamunwa, bambaye ubupfukamunwa bw'ubururu.

Ibagiro ry'inyama z'ingurube inyama z'ingurube turazirya bakazitekamo akabenzi. Akabenzi ni inyama iba iryoshye cyane inyama z'ingurube, ingurube iyo tuzoroye tukazigurisha tubonamo amafaranga tugakora, tugakemura ibibazo by'umuryango tugatanga na mitiweli.

Inyoni nziza cyane, inyoni ifite amaguru y'umuhondo no ku jisho hasa n'umuhondo, igice cyo ku mutwe gisa n'umukara, agatuza kayo gasa n'umweru. No hejuru ku mugongo hasa n'umukara. Ifite n'igisembe cy'umweru uvanzemo n'umukara. Inyoni ihagaze ku giti.

Inyoni ya nyirabaraza. Nyirabaraza ni inyoni itunzwe no kugenda mu ishyamba, mu byondo, iri kugenda irakozamo umunwa, iri guhiga, iri ikugenda iraroboramo uduhovu n'uduki twose n'utunyorogotwa. Nyirabaraza ni inyoni ikunda kwibera mu gishanga.

Imigozi itambitse mu kirere ihagazeho inyoni nyinshi z'intashya, inyoni z'intashya zikunda guhagarara ahantu ku migozi itambitse mu kirere, ishobora kuba ari nk'amatsinga ahagazeho atwaye umuriro.

Uruyongoyongo. Inyoni yitwa uruyongoyongo ifite ku munwa h'umuhondo, n'umweru, n'umukara. Ifite amabara atatu. Uruyongoyongo ni inyoni ikunda kwibera mu bishanga, ikunda guhiga imihovu n'utuyoka dutoya, nitwo iri kwirira, rwibera mu ishyamba.

Inyoni ziri ku giti zirimo kudomagura . Izi nyoni, zitwa Rungeri . Izi nyoni, zifite ibara ry'umuhondo, umutuku, n'umweru . Izi nyoni, zifite umunwa ukomeye cyane . Zigenda ku giti cyane, zikagenda zidomagura , zigatobora , zikageramo imbere, ugasanga zakozemo umwobo munini cyane.

Urukwavu ni itungo ryiza tworora, rikaduha amafaranga. Urukwavu uru nguru ruri kugenda ahantu mu ishyamba. Hari inkwavu ziba no mu ishyamba, ugasanga abahigi, ariko bakazihiga bagakunda kuzirya. Iyo barwishe, bararurya.

Ingagi, ingagi n'inyamaswa iba mu ishyamba abakerarugendo bakayisura, abakerarugendo bakayisura bakatuzanira amadovize, ingagi n'inyamaswa ijya gusa n'abantu , iba yiturije, yitonda, yitwara nk'abantu uretse ko iba mu ishyamba ikora ibikorwa nk'iby'aba....

Maguge, maguge ni agasimba kibera mu ishyamba rito rito. Ka maguge gakunda gucangacanga aho abantu bakunda kunyura, uretse ko kataba hamwe n'abantu, ariko gakunda kwegera abantu ntabwo kagira ubwoba cyane. Gakunda kugenda kari kwigendera mu biti, cyane ahakunda kunyuraho abantu n'amamodoka kari kwitegereza.

Inyubako nziza cyane ifite uruzitiro rw'ibyuma, hejuru yaho hariho igishushanyo cy'inkende, hirya y'igikuta cyubakishijwe amakaro y'igitaka.

Iyi ni nyoni iba mu gishanga. Tuyita inkoko, agakoko ko mu gishanga. Gafite ubujanja bw'umutuku, gafite n'umunwa w'umuhondo. Gasa n'umukara. Iyi nkoko iba mu gishanga ikunda kwihisha mu gishanga cyane. nta bwo abantu bakunda kuyibona. N'iyo ukabonye karabendegera kakigira mu bwatsi bwitwa igifunzo cyangwa igikangaga.

Inyamaswa ziri mu ishyamba harimo imparage ,impongo n'amahembe maremare, ni ukuvuga ngo inyamaswa ziri mu ishyamba zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba ,bagatambagira mu ishyamba ,cyane cyane zikazana amadovise ba bakera.

Inyamaswa bita igikeri. Igikeri ni igisimba, ni inyamaswa igenda itaragurika cyane, igikeri kibera ahantu hari ibyondo, kikaba mu ishyamba, igikeri kiba gisa nk'igitaka.

Inyamaswa yitwa impundu iri mu ishyamba imbere yaho ifatirije ku migano; inyamaswa abakerarugendo barazisura, abakerarugendo bagasiga amadovize kakadufau gihugu cyacu.

Inyoni yinyamanza ihagaze ku biti ni inyoni izamuye umunuwa wayo, inyoni ifite amabara abiri hasi igiye kuba igitaka hejuru n'ubururu.

Inyamaswa y'inyoni iri kugenda hasi, ifite ibara ry'umweru n'ikigina, ifite umunwa muremure n'ijisho ryumutuku.

Inyoni nini cyane ihagaze mu ishyamba hejuru ku mashami y'igiti ,iyo nyoni ifite ibara ry'umutuku, ku munwa ni ibara ry'umuhondo ,hepfo ni ibara ry'umukara, ahagana ku gisembe ni ibara ry'umutuku ,ifite n'igisembe kirekire cy'umukara ,inyoni ihagaze mu giti.

Inyamaswa iri mu ishyamba iyo nyamaswa ni umuhari uri kugenda mu ishyamba uhagaze uri gutera intabwe uri kumviriza, inyamaswa n'umuhari inyamaswa iba mu ishyamba.

Igisiga cyiza gifite umunwa w'umuhondo, umutuku ku ijosi. Hariho amababa yacyo aragiye azinga zinsi ifite n'ijisho ry'umukara.

Inyamaswa iri mu ishyamba, inyamaswa ingagi. Ingagi ni inyamaswa abakerarugendo bakunda gusura, bagasiga amafaranga, amadovize, agafasha, agateza igihugu cyacu imbere.

Umuserebanya, umuserebanya ni igisimba kijya kumera nk'ingona yo mu mazi, umuserebanya ukunda kuba ahantu hose, n'ahantu, ntabwo ushobora no kugera ku nzu ngo utawubona. Umuserebanya ni ikintu kigenda gikura gifite amaguru ane, amaguru ane,

Inyoni nziza cyane ifite amabara afite ibara ry'ubururu, umweru, ifite ijisho ry'umukara, ifite n'umunwa muremure, ifite n'ibisunzu birebire. Iyi nyoni ni nziza cyane, inyoni....

Inyamaswa bita maguge, maguge ni inyamaswa ikunda kuba hafi y'abantu aho bakunda kunyura, ikajya ibitegereza ikajya ibakinisha iri no kubarebura. Maguge ni inyamaswa idakunda guhunga abantu cyane.

Inyamaswa y'impyisi iri mu ishyamba. Yishe ka nyirabuhene iri kukadohora. Impyisi ni inyamaswa mbi cyane ihiga igenda itunzwe n'inyama, igenda yica utunyamaswa twinshi twose ikaturya.

Imbata ziri mu murima, hafi yaho hari amazi y'ikiyaga, zisa zifite amabara, zisa n'umukara, amaguru y'umuhondo.

Inyamaswa iri mu ishyamba. Inyamaswa bita ingamiya. Inyamaswa zikunda kuba mu ishyamba, abakerarugendo bakaza kuzisura bagasiga amadovize. Amadovize akagirira igihugu akamaro.

Inyoni nini ihagaze ku giti, gifite amashubi kitagira amababi, inyoni isa n'umukara, ifite n'umunwa w'umuhondo, ifite n'ibisembe birebire, n'isunzu rihagaze rirerire cyane.

Inyoni ihagaze ku giti gikase cy'igitsitsi, inyoni nziza ifite amabara asa n'ikigina, ifite umunwa mugufiya, ifite ijisho ry'umukara, ifite n'ibisembe by'umukara hariho n'akabara k'umweru.

Maguge zihagaze ku biti, maguge n'udusimba twiza dukunda kuba hafi y'abantu ariko ntitubegera cyane, ariko dukunda kubabona tukabakinisha tukabarebura, iyo turi mu biti abantu bahegere bari mu muhanda bari kugenda turabarebura, tukabereka utumenyetso ko turi dushaka gukina nabo.

Inyoni y'inyamanza. Inyoni y'inyamanza ni inyoni nziza cyane, igenda iri kwitoragurira udusimba, ntabwo yona. Inyamanza ni inyoni ikunzwe n'abantu benshi, ifite ibara ry'ubururu, hasi ry'ikigina ku mutwe ni umweru.

Inyoni y'umuhondo ifite ibara ry'umuhondo, igaramye iri kureba hejuru yatereye amaguru hejuru. Ifite umubiri w'umuhondo, umunwa wumukara, igice cyo hepfo n'umuhondo n'ijisho ry'umuhondo.

Inyoni y'inuma, inuma ni inyoni nziza ariko inuma abana hari igihe ziba ziri hafi y'inzu nziza zikibera mu tuntu bazubakiye hejuru. Inyoni y'inuma ntabwo ikunda kugira ngo abantu bayimenyere bayifate cyane ariko harimo abazoroye, ni inuma nziza iranaribwa.

Ishyamba ririmo inyamaswa yitwa inzovu. Inzovu ni inyamaswa yibera mu ishyamba, akenshi iba igendana na zene wabo. Inzovu ni inyamaswa isurwa, ikarebwa, igitegezwa bakatanga amadolari abaabakerarugendo..

Inyoni ebyiri ziri mu biti, zihagaze ku biti birebire. Inyoni imwe ifite ibara ry'umweru, indi ifite ibara ry'umukara mu ijosi hasa n'umweru, hepfo ndabara ku bisembe, ni umukara. Zihagaze mu giti hejuru, ziri kwitegereza.

Iyi nyamaswa iri mu ishyamba. Inyamaswa y'imbogo rwarikamavubi. Amahembe yarigondoye. Hejuru ihagazeho, akanyange kayihagazeho. Hari utundi tunyange turi hasi turi kuyitegereza, twahagaze turi kugira, imbogo iri kugendagenda.

Inyoni nini cyane bita agashushi. Iyi nyoni ikunda kuba hafi y'ikivu, hafi y'inzuzi, iri kwishakira amafi n'inzoka. Ni byo biba biyitunze n'imihovu. Ikunda kurya ibintu by'inyama cyane. Iyi nyoni ifite agasunzu karekare n'umunwa w'umukara. Ni inyoni isa n'igitaka.

Inyoni iri ku ishami ry'igiti cyumye kitagira amababi. Iyo nyoni ifite ibara ry'umuhondo, ku nda ya yo hejuru ni ibara ryikigina, ifite n'igisembe, igisimbe, igisembe, kijya gusa n'umukara, ifite n'umunwa w'umukara.

Inyoni, inyoni nziza ifite ibara ry'umuhondo n'umukara. Ifite umunwa w'umukara n'ijisho ry'umukara. Ihagaze ku biti bitambitse by'uruzitiro.

Inyamaswa y'impongo ,iri mu ishyamba muri pariki inyamaswa ya ba mukerarugendo baje kwireba batanga amadovize ,inyamaswa iba mu ishyamba ikunda kutuzanira amadovize.

Inkoko bita igishuhe. Igishuhe ni inkoko, cyibera mu mazi gikunda amazi cyane. Kiba kiri kugendagenda hejuru y'amazi na ryo ni itungo bararirya, yuko rikunda cyane cyane kwibera ahantu ariko hari amazi.

Ikigagari: inkoko y' ikigagari ni inkoko nziza cyane ifite ibara ry' urugondo, ifite ku mutwe h' umweru, n' uturokoroko tw' umutuku. Iyi nkoko ifite n' abashwi benshi iri kugenda iratoragura, nabo bari kugenda irabatoragurira iragenda iraraha nabo baratoragura.

Inuma ihagaze mu giti, inuma ni inyoni nziza ibana n'abantu, ariko ntabwo ibiyegereza cyane, yibera ku nzu, ikibera ku ntuza hejuru, hagana ku mabati, akaba ariho yibera, akaba ariho ishyira akari kayo.

Inzoka iri ahantu mu ishyamba, yizinze, ifite amabara abiri, umweru n'umukara, inzoka ni inyamaswa iba mu ishyamba, abakerarugendo bakunda gusura akenshi.

Inyoni y'igisiga , igisiga kinini cyane gifite umunwa w'umuhondo , gifite ibisembe birebire by'umukara , gifite n'amaguru agiye gusa n'umuhondo gihagaze hejuru mu mahwa , inyoni n'igisimba kibera mu ishyamba.

Imbwa iri kugaragaza igice cyo hejuru, imbwa iri kureba hejuru. Imbwa ku munwa, amazuru asa n'umukara, hepfo ni umweru, no ku gatuza hasa n'umuhondo, no ku mugongo hagiye gusa umuhondo, imbwa iri kureba hejuru.

Urusiga runini cyane rumeze nk'inkongoro, urusiga rufite ibara ry'umweru, rufite n'umunwa wigondoye, rufite ku mutwe n'ibara ry'umweru, no kwijosi hasi hari ibara ry'umukara, n'ahagana ku bisembe. Ruri kureba uruce rumwe.

Inyoni nziza cyane. Iyi nyoni bayita agaca. Inyoni isa n'umweru, ifite n'ibara ry'umukara, ifite amaso y'umukara akanuye cyane, Ifite n'umunwa w'umukara. Iyi nyoni ikunda gukubita utundi tunyoni, ikaturya nibyo biyitunze.

Igisiga cy'umweru kinini cyane, cyagurukanye uruntu rw'umukara gifashe, gifite amajanja y'umweru n'umuhondo, gifite n'umunwa w'umuhondo, cyagurukanye n'urundi runtu kiri gukurura, mu kaguru k'ibumoso.

Urukwavu rwibereye mu ishyamba, uru rukwavu ni urw'ishyamba rufite ibyoya byinshi cyane, rufite n'amatwi y'umukara n'ikivuvu harimo n'akabara gake k'umutuku, urukwavu ruraribwa n'ubw'izi.....

Inyamaswa z'INgagi zibereye mu ishyamba. Inyamaswa z'ingagi, ziba mu ishyamba. Ba Mukerarugendo iyo bazisuye, basiga amadovize . Ziratwinjiriza iyo bazisuye .

Agashushi . Inyamaswa y'Agashushi ni akanyamaswa gakunda kwibera hafi y'amazi , kagenda iyo kari gushaka icyo kurya kagenda kanyeganyeza karikubyinagura ku buryo aho kageze agasimba kari mu mazi karakanguka kakwiruka kakaba ka kariye. Nibyo bigatunze . Ni agasimba gafite agasunzu karekare, n'umunwa w'umukara muremure.

Inkoko bita imbata , iyi bayita imbata iragenda ifite amano atatuye , imbata ikunda kwibera mu mazi , ikunda kunywa amazi cyane , iyo uyihaye ibiryo bitagira amazi ubuyangiriza , imbata n'itungo ry'abaturage tworora tukarigusha bakaduha amafaranga , tugakemura ibibazo by'imiryango tugatanga na mituweli.